Umwana ukiri muto urimo kuvoma amazi ku ivomero rusange akoresheje igikoresho cyabugenewe kifashishwa mu kuvoma amazi, nanone iruhande rw'ivomero rusange hateye ibimera by'amoko atandukanye.

Abantu batandukanye baje kwivomera, kuvoma amazi yo gukoresha mu ngo zabo, by'umwihariko aho higanjemo abana batandukanye bakiri bato, baje kuvoma amazi kwivomero. Kuba baregerejwe ivomero hafi, bibafasha kugira ubuzima bwiza, kuko bakoresha ayo mazi bakora amasuku mu ngo iwabo bikabarinda kugerwaho n'indwara ziterwa no kugira isuku nke.

Itsinda ritubutse, rigari rigizwe n'abagabo n'abagore, abasore ndetse n'inkumi, ryahuriye mu nama yiga ku buzima. Buri wese arimo yandika ibyavugiwe mu nama, by'umwihariko ibirebana n'ubuzima bwa muntu.

Abagore batatu b'abaganga bicaye mu cyumba kimwe barimo bandika ibikoresho bikenewe kugira ngo byifashishwe mu kwita ku barwayi, nanone hari ibikoresho bitandukanye biri mu cyumba bicayemo urugero nk'ameza akozwe mu biti, intebe ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Urugomero rw'amazi aho amazi yifashishwa cyane n'abaturage batandukanye aturutse muri uru rugomero rw'amazi. Bakaba bayifashisha bita ku buzima bwabo. Urugero bayifashisha bateka ibyokurya, bayifashisha bakora amasuku mu ngo iwabo kugira ngo birinde indwara ziterwa no kugira isuku nke.

Umwana uri kuvoma amazi yo kunywa avuye mu kigega cy'amazi akoresheje igikombe cyo kunywesha amazi ibi bimufasha kugira ubuzima bwiza kuko amazi ari ingenzi mu buzima bwa muntu.

Abaganga babiri barimo kwita ku murwayi w'umugore, aho umuganga w'umugore arimo gusuzuma umurwayi uburwayi afite, by'umwihariko areba niba afite umuvuduko w'amaraso, akoreshe igikoresho cyabugenewe kifashishwa mu gupima umuvuduko w'amaraso.

Abaganga bambaye imyambaro yabugenewe bambara mu gihe barimo kuvura abarwayi, urugero nk'akarindamunwa nanone harimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa n'abaganga mu kuvura abarwayi indwara zitandukanye.

Abayobozi bakuru babiri bo mu nzego zishinzwe ubuzima muri Sudani y'epfo bahuriye hamwe kandi bayoboye inama yiga ku ngamba zafatwa kugira ngo bakomeze kubungabunga ubuzima bwa muntu ndetse n'abatuye isi muri rusange by'umwihariko abatuye muri Sudani y'epfo.

Umubyeyi w'umugore uhetse umwana we mu mugongo mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda, ndetse no gukomeza kubungabunga ubuzima bwe ndetse n'ubw'umwana we, arimo gukora amasuku yoza ibikoresho byo mu rugo akoresheje amazi n'isabune byabugenewe.

Abantu batandukanye bari ku ivomero rusange, aho baje kuvoma amazi yo kwifashisha mu rugo iwabo, urugero nk'ayo gukoresha amasuku, bafura imyenda yabo, boza ibyo gutekeramo ndetse n'ibyo kuriramo. Ibi bibafasha kugira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda indwara ziterwa no kugira isuku nke.

Umwana ukiri muto urimo gukaraba intoki akoresheje ibikoresho byabugenewe, urugero nk'isabune ndetse n'amazi byifashishwa mu kuvanaho imyanda ku ntoki, gukora ibi bifasha umuntu wese kugira ubuzima bumeze neza kandi bikamurinda kugira indwara ziterwa n'umwanda.

Umujyanama mu by'ubuzima ari kumwe n'ababyeyi b'abagore bafite abana bakiri batoya, baje gupimisha abana babo ibiro kugira ngo bamenye uko bahagaze, nanone hari umubyeyi urimo konsa umwana we kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Abana babiri bakiri bato b'abahungu barimo gukaraba intoki zabo bakoresheje igikombe ndetse n'amazi meza, ni mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa no kugira isuku nkeya.

Uruhuri rw'abantu benshi batandukanye bahuriye hamwe, harimo abicaye n'abahagaze, by'umwihariko harimo abagabo, abagore ndetse n'abana batoya cyane. Barimo guhabwa ibibafasha kugira ubuzima bwiza.

Abanyabuzima batandukanye hakubiyemo abagore ndetse n'abagabo, bahuriye hamwe kugira ngo bahabwe amahugurwa yabafasha gukomeza gukora neza umurimo wabo wo kwita no kwakira abarwayi batandukanye baje babagana, bafite ibitabo ndetse n'amakayi bari kwandikamo icyo bakora kugira ngo barusheho kunoza umurimo wabo.

Abanyeshuri bari ku ishuri, barimo kuvoma amazi ku mavomero yo kwifashisha mu gukora amasuku yo ku ishuri, mu rwego rwo kwirinda umwanda kandi bibafasha kwigira ahantu hameze neza, bikabarinda guhura n'indwara ziterwa no kugira isuku nkeya.

Umwe mu baganga babihuguriwe, urimo guhugura abaturage bahuriye hamwe, abaha inama zabafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza. Hari abaturage batandukanye bicaye, aho baje gutegera amatwi ikiganiro umuganga arimo abagezaho, cyabafasha kumenya uko bakwita ku buzima bwabo n'uburyo bakwirinda indwara zitandukanye.

Umunyeshuri urimo gukaraba intoki nyuma yo kuva mu bwiherero akoresheje amazi meza. Na none hari igikoresho cyabugenewe bita kandagira ukarabe kirimo amazi yo gukaraba intoki, igihe umuntu avuye ku bwiherero. Gukaraba intoki mu gihe umuntu avuye ku bwiherero, ni ingenzi cyane kuko bifasha umuntu kwirinda indwara ziterwa no kugira isuku nke.

Umugore n'umugabo bari kuvoma amazi ku ivomero rusange mu rwego rwo kugira isuku mu ngo zabo bakoresheje amazi, aho bashobora kuyifashisha bafura imyenda yabo, mu guteka ndetse no koza ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu guteka, ibi bibafasha kugira ubuzima bwiza.

Itsinda rigizwe n'abagore n'inkumi barimo kubyina bishimye kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza na none mu cyumba barimo harimo ibikoresho bitandukanye urugero nk'intebe zikozwe mu mbaho ndetse no mu biti ndetse n'intebe zidakozwe mu biti.

Itsinda ry'abagabo ndetse n'abagore bahuriye hamwe, aho barimo baganira ku nsanganyamatsiko ishishikaje cyane igira iti:"Hehe n'igwingira." Twite ku buzima bw'umubyeyi utwite. Ibi ngibi ni ingenzi kuko kwita ku buzima bw'umubyeyi utwite bifasha umwana uri mu nda gukura neza.

Abayobozi bakuru mu nzego z'ubuzima baturutse mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku Isi, bahuriye hamwe mu nama yateguwe n'umuryango wita ku buzima hirya no hino ku Isi, aho barimo biga ku buzima ndetse n'uburyo bafatanya kugira ngo barusheho kurinda abaturage ibyorezo by'indwara bitandukanye.

Ku ivomero rusange abantu batandukanye baje kuvoma amazi yo gukoresha mu ngo iwabo by'umwihariko nk'ayo gukoresha amasuku, koza nk'ibintu byo gutekeramo ndetse n'ibikoresho byo kuriraraho, na none nk'ayo gufurisha imyenda yabo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Imbaga y'abantu benshi bahuriye hamwe mu nama, baturutse impande zitandukanye, by'umwihariko abayobozi bakuru b'inzego z'ubuzima, aho barimo kwiga ku bisubizo by'ibibazo byugarije ubuzima, by'umwihariko bashaka ibisubizo, by'uko barandura ibyorezo by'indwara, ndetse n'indwara zitandukanye zibasira ubuzima bwa muntu.

Umuntu uri gukaraba ibiganza bye akoresheje amazi meza ari guturuka ku ivomero. Gukaraba intoki n'amazi meza ni ingenzi cyane kuko bifasha umuntu kwirinda indwara ziterwa no kugira isuku nke. Nanone kwegereza abaturage ivomero ry'amazi ni ingenzi cyane kuko bibafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza bitewe no gukoresha amazi meza.

Abanyeshuri bari ku ishuri barimo gukaraba intoki bakurikije amazi. Gukaraba intoki bibafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza, kuko bibarinda kwandura indwara ziterwa no kugira isuku nke.

Itsinda ry'abaganga batandukanye barimo kuvura umurwayi ufite uburwayi bukomeye, aho barimo kwifashisha ibikoresho bitandukanye babaga umurwayi, nanone bambaye imyenda yabugenewe yambarwa n'abaganga batandukanye.

Umunyeshuri ukiri muto urimo gukaraba intoki akoresheje isabune ndetse n'amazi meza avuye muri kandagira ukarabe nyuma yo kuva mu bwiherero. Ibi ni iby'ingenzi cyane kuko gukaraba intoki uvuye mu bwiherero birinda indwara ziterwa no kugira isuku nke.

Umujyanama mu by'ubuzima w'umugabo, yasuye umuryango w'umugore n'umwana, aho arimo kubigisha, uko bakwita ku buzima bwabo, bakora ibikorwa bitandukanye, urugero nko kurara mu nzitiramibu, gukoresha amazi meza ndetse no kugira isuku aho batuye.

Bamwe mu bakozi bakorera umuryango ushinzwe kwita ku buzima ukorera hirya no hino ku isi, barimo gukusanya impano ndetse n'imfashanyo zo gufasha abaturage bafite amikoro make badashobora kubona ibibatunga mu buryo bukwiriye. Ibi bibafasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ida ry'abagabo ndetse n'abagore b'abajyanama b'ubuzima ryahuriye hamwe kugira ngo yige ku ngingo y'ubuzima bahabwe amahugurwa ajyanye n'ubuzima y'uburyo bakwita ku buzima bw'abaturage muri rusange.

Umubyeyi w'umugore ufite akana kakiri gato, aho bari kumwe na muganga w'umugabo uvura indwara z'abana, aho umuganga arimo gusuzuma uburwayi bw'umwana ngo arebe uburwayi afite bityo amuhe imiti yamuvura.

Umwana w'umuhungu ukiri muto wishimye cyane ufite ibirahuri bibiri by'amazi yo kunywa meza, nanone hari ikiziba cy'amazi mabi kiri inyuma y'umuhungu ufite ibirahuri bibiri by'amazi meza, nanone hari abandi bantu bahagaze inyuma y'ikiziba cy'amazi mabi.

Umwana wikoreye ikintu kimurusha imbaraga kuko akiri mutoya. Nanone hari abayobozi bashinzwe kwita ku buzima bwa muntu, barimo gufotora umwana wikoreye igikoresho kirimo amazi kimurusha imbaraga. Ibi byangiza ubuzima bw'umwana kuko aba yikoreye ibintu bimurusha imbaraga kandi adashoboye.

Umwana ukiri muto urimo guhabwa umuti bawinjiza mu mubiri bakoresheje ibikoresho byabugenewe, byifashishwa mu kwinjiza umuti mu mubiri urugero nk'urushinge, nanone hari abandi bantu batandukanye nabo baje kwivuza indwara zitandukanye, hari n'abaganga batandukanye barimo gufasha abantu babaha imiti itandukanye.

Abantu benshi batandukanye bahuriye hamwe baturutse mu bihugu bitandukanye by'umwihariko abahagarariye inzego z'ubuzima mu bihugu byabo, barimo baganira ku ngamba zafatwa kugira ngo bakomeze kubungabunga ubuzima bwa muntu hirya no hino ku Isi.

Umujyanama w'ubuzima w'umugabo, arimo guha inama abagore bafite abana bakiri bato, abaha inama z'uburyo bakwita ku bana babo. Nanone hari abagore bafite abana babo baje kubapimisha ibiro byabo kugira ngo bamenye uko bahagaze babone n'inama zabafasha kwita ku bana babo mu rwego rw'imirire ndetse n'imikurire.

Ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umuhondo, mu ibara ry'umuhondo harimo akamenyetso gafite amerekezo ane, kari mu ibara ry'umweru, ahantu hose hakorerwa ibikorwa byo kwita ku buzima bw'umuntu, akenshi uhasanga iki kimenyetso, kiri mu ibara ry'umukara n'umuhondo n'aka kamenyetso, gafite amerekezo ane, kari mu ibara ry'umweru.

Abana batandukanye bakiri bato barimo guhabwa ibyo kunywa, bikungahaye kuri vitamine zitandukanye, aho barimo guhabwa ibyo kunywa n'abantu batandukanye mu rwego rwo kubafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza ndetse no kubarinda kugwingira.

Abakobwa barangije kuvoma amazi yo gukoresha mu rugo iwabo, bakaba barimo kuyikorera ku mutwe. Amaziba akaba abafasha mu bintu byinshi bitandukanye, urugero nko gukora amasuku mu rugo bafura imyenda, ndetse no koza ibikoresho bakoresha bateka. Na none bayifashisha bayanywa, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abakiri bato rigizwe n'abagore bane ndetse n'umugabo umwe, barishimye cyane nyuma yo guhabwa amahugurwa n'ikigo gishinzwe kwita ku buzima bwa muntu by'umwihariko abana bakiri batoya.

Itsinda ry'abantu batanu rigizwe n'abagabo batatu ndetse n'abagore babiri, bahuriye hamwe kugira ngo baganire ku kibazo cy'ubuzima ndetse n'ingamba zafatwa kugira ngo indwara ndetse n'ibyorezo bihagarare.

Abana babiri barimo kuvoma amazi yo gukoresha mu rugo iwabo. Aho bafite indobo nini barimo kuvomeramo amazi yo kujya gukoresha mu rugo, urugero: nk'ayo gukaraba, ayo kunywa cyangwa se ayo gutekesha.

Abanyabuzima batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bahuriye ku kigo nderabuzima cya Mayange, aho barimo guhabwa inama n'umuzungu zabafasha kurushaho gukora neza umurimo wabo wo kuvura abarwayi babegereye.

Itsinda ry'abajyanama b'ubuzima, rigizwe n'abagabo ndetse n'abagore, bahuriye hamwe kugira ngo bahabwe inama ndetse n'amahugurwa, abafasha gukomeza kwita ku buzima bwa muntu. Aho buri wese mu banyabuzima afite ikayi ndetse n'aho kwandika n'ikaramu yo kwandikisha, inama bahawe mu mahugurwa.

Abana baje ku ivomero rusange kuvoma amazi yo gukoresha mu rugo iwabo bakora ibikorwa bitandukanye, urugero; Nko gukora amasuku, bafura imyenda yabo kandi bakoza ibikoresho byo gutekeramo ndetse n'ibyo kuriramo. Ibi bibafasha kugira isuku kandi bikabafasha kugira ubuzima bwiza.

Imbaga y'abantu benshi cyane, bahuriye hamwe. By'umwihariko higanjemo abana bakiri bato, ndetse n'abantu bakuru. Aho bahuriye hamwe, kugira ngo bigishwe bimwe mu bimenyetso biranga icyorezo cya Ebola. Na none barimo bagirwa inama, y'uburyo bakwirinda icyorezo cya Ebola.

Itsinda rigizwe n'abagabo ndetse n'umugore barangije amahugurwa ajyanye n'ubuzima, aho barimo biga uko bakwita ku buzima n'uburyo babungabunga ubuzima bw'abarwayi batandukanye.

Abashinzwe gukangurira abantu kwita ku buzima bwabo, bari mu bukangurambaga bwo gufasha abantu kubereka icyo bakora kugira ngo bagire ubuzima bwiza, birinde icyatuma ubuzima bwabo bujya mu kaga, babaha amabwiriza arebana nuko bakwita ku buzima bwabo.

Abaturage batandukanye, by'umwihariko higanjemo abagore baje kuvoma amazi ku ivomero, kuba baregerejwe ivomero hafi ni ingirakamaro mu buzima bwabo, kuko bibafasha kubona amazi yo gukoresha ibintu bitandukanye, urugero nk'ayo gufurisha imyenda, ayo gukaraba ndetse n'ayo gutekesha, ibi bibafasha kugira ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri bari ku ishuri barimo kunywa amazi, by'umwihariko bakoresheje ibikoresho byabugenewe bifashisha banywa amazi, urugero nk'ibikombe, nanone hari ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kubika amazi kandi bikayungurura, kugira ngo adatera indwara abanyeshuri.

Umugore n'umugabo barimo kuvoma amazi ku ivomero rusange yo gukoresha mu rugo iwabo. Bari gukoresha ibikoresho byabugenewe byifashishwa bavoma amazi. Amazi abafasha mu bintu byinshi cyane, urugero abafasha mu gukora amasuku nko gufura imyenda. Nanone abafasha mu guteka ibyo kurya.

Umwana urimo gukaraba intoki akoresheje amazi aturuka ku ivomero. Nanone hari ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kuvoma amazi yo kwifashisha mu rugo, urugero nk'ayo gutekesha ndetse no gufura imyenda. Kwegereza abaturage ivomero ni ingenzi cyane kuko bibafasha kugira ubuzima bwiza.

Umujyanama mu by'ubuzima, arimo agira inama abagabo bagenzi be ndetse n'abana bakiri bato, icyo bakora kugira ngo barusheho kwita ku buzima bwabo. By'umwihariko bafata amafunguro, akungahaye kuri vitamini zitandukanye, kandi bagira isuku mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abayobozi bakuru mu nzego z'ubuzima bo hirya no hino ku isi ndetse n'abakuru b'ibihugu bahuriye hamwe kugira ngo baganire ku kibazo cy'ubuzima ndetse n'ingaruka n'ibibazo byugarije ubuzima bw'abantu muri rusange, bareba ingamba zafatwa kugira ngo burusheho kurinda ubuzima bw'abatuye isi.

Abagore batatu bari kumwe n'umuganga, aho umuganga arimo gusuzuma umugore uburwayi akoresheje ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gupima uburwayi mu mubiri. Aho yambitse igikoresho umugore mu kuboko cyifashishwa mu gupima umuvuduko w'amaraso.

Abasore n'inkumi batandukanye bishimye cyane nyuma yo guhurizwa hamwe bagahugurwa, bagahabwa inama zabafasha kwita ku buzima bwabo ndetse n'inama zabafasha kwita ku barwayi batandukanye.

Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi urimo kwitabwaho n'ababishinzwe, bamuha ubufasha akeneye kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza ariko abari kumwitaho bafite ibikoresho byabugenewe bibafasha kwirinda kuba na bo bagerwaho n'ikibazo cy'uburwayi mu gihe uwo bari gufasha yaba afite uburwayi bwandura bunyuze mu buryo bw'umwuka.

Inama yiga ku guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya mabagi i kigali ku itariki makumyabiri z'ukwa cumi bibiri na makumyabiri na kane yahurije hamwe abayobozi batandukanye bo mu nzego z'ubuzima kugira ngo bige ku ngamba zafatwa maze icyo cyorezo ntigikomeze gukwirakwira.

Umuryango mpuzamahanga wita ku buzima bw'ikiremwamuntu by'umwihariko aho wita ku burenganzira bw'umwana, aho wigisha abantu kwita ku bana babaha ibyo bakeneye kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi be kugwingira mu mitekerereze.

Umwana ukiri muto urimo gukaraba intoki akoresheje amazi meza mbere yo kuvoma amazi yo kujya gukoresha mu rugo. Na none hari ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kuvoma amazi yo gukoresha mu rugo. Urugero nk'ayo gutekesha, ayo gufurisha imyenda ndetse n'ayo gukoresha andi masuku atandukanye.

Abantu batandukanye baje ku ivomero rusange kuvoma amazi yo gukoresha mu ngo iwabo, na none hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvoma amazi yo gukoresha mu ngo.

Ababyeyi b'abagore bafite abana bakiri batoya bahuriye ahantu hamwe kugira ngo basuzumishe ubuzima bw'abana babo, bamenye uko buhagaze bityo babonereho kubona inama zabafasha kwita ku bana babo.

Abana babiri bari kumwe, aho umwe ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza, nanone ari gukoresha igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu gukora isuku, aho kifashishwa mu kuvana imyanda ku mubiri. Nanone bafite ibikoresho bitandukanye, birimo amazi meza barimo gukoresha bakaraba intoki.

Umunyeshuri w'umukobwa ukiri muto ari kunywa amazi. Na none mu rwego rwo kubungabunga isuku ku ishuri, hari ibikoresho byabugenewe, bikoreshwa mu kujugunywamo imyanda itandukanye iba yakoreshejwe.

Umuryango Mpuzamahanga wita ku buzima ukorera ku isi hose, ufasha abarwayi kubona ibyo bakeneye, urugero nk'imiti yujuje ubuziranenge, ibafasha kongera kugira amagara mazima, nanone itanga imfashanyo z'ibikoresho bitandukanye, bikenerwa n'abaganga mu gihe bavura abarwayi.

Icyumba kigari, kinini kandi gitubutse, kirimo ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gutunganya imiti ikoreshwa mu kwita ku barwayi. Na none harimo abakozi bakoresha ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga mu gutunganya imiti yifashishwa mu kwita ku barwayi.

Umuntu wicaye hasi usa nk'uwihebye, utambaye imyenda umubiri wose, birashoboka ko arwaye ihungabana ryo mu mutwe, yatewe n'ibintu bitandukanye, ihungabana ryo mu mutwe rishobora kuvurwa rigakira, mu gihe umuntu urwaye ihungabana akurikije amabwiriza ahabwa na muganga.

Umugabo ukuze wambaye imyenda yacikaguritse kandi wikenyeje ibintu mu ijosi ndetse no mu maboko, afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ariko buravurwa bukaba bwakira, mu gihe akurikije amabwiriza ahabwa na muganga wamuhaye imiti.

Abayobozi batandukanye mu nzego z'ubuzima, harimo abagore ndetse n'abagabo, bicaye hamwe mu cyumba cy'inama, aho barimo gutanga ibitekerezo, by'umwihariko ku kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse n'uburwayi bwo mu mutwe, na none hari ibikoresho by'ikoranabuhanga, urugero nka mudasobwa, nanone hari icupa ry'amazi.

Umugabo ufite ihungabana ryo mu mutwe, aho yambaye imyenda yashaje cyane kandi isa nabi na none kandi afite ubwanwa bwinshi cyane bwamurariyeho ndetse n'umusatsi. Nubwo arwaye indwara y'ihungabana ashobora kuvurwa agakira, akongera akagira ibitekerezo bizima ndetse n'ubwonko bukora neza.

Umugabo wigunze kandi wihebye, uri wenyine. Ibi ni bimwe mu bimenyetso biranga ihungabana ryo mu mutwe. Ihungabana ryo mu mutwe rishobora kuvurwa rigakira, iyo ugannye umuganga ubishinzwe aguha imiti ndetse n'inama bifasha umuntu ufite ihungabana ryo mu umutwe, ubundi rikaba ryakira.

Abaganga batandukanye begereye abaturage mu ngo zabo, babasanga aho batuye kugira ngo babavure uburwayi bw'amoko atandukanye, by'umwihariko hibandwa ku bafite uburwayi bwo mu mutwe, bagahabwa imiti ibafasha kugabanya ubukana nanone kandi bagahabwa inama zibafasha gukomeza kugira ubuzima buzira umuze.

Umugabo wicaye hasi, wambaye amapingu mu maboko yombi. Na none hari abantu benshi cyane, baje gushungera uyu mugabo wambaye amapingu. Na none hari umupolisi uhagaze inyuma y'uyu mugabo wambaye amapingu. Birashoboka ko uyu mugabo yakoze ibikorwa by'iterabwoba, bihungabanya umutekano w'abantu kandi bikaba bigira ingaruka ku mitekerereze ya muntu.

Umuryango wita ku buzima bw'abantu batandukanye, ukorera mu Rwanda ariko ukaba ukora mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho wita ku buzima bw'abantu batandukanye, by'umwihariko ukibanda ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, urugero nk'abafite ihungabana ryo mu bwonko ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye byo mu mutwe, ukaba utanga ubufasha kuri abo bantu kugira ngo bongere kugira ubuzima bwiza.

Abana bakiri bato batandukanye bahuriye hamwe kandi rwose barishimye nyuma yo guhurira hamwe bagakina. Mu rwego rwo gufasha abana bakiri bato kwirinda igwingira ryo mu bwonko ni iby'ingenzi ko bahurira hamwe bagakina kandi bagasabana ibi bibafasha kwirinda kugira ihungabana ryo mu mutwe ndetse no kwirinda kugwingira mu bitekerezo.

Umuntu urimo kurira kandi wihebye ufite n'agahinda. Aho amarira ari kumanuka ku itama avuye mu maso. Guhohoterwa ndetse n'irindi hungabana ryo mu mutwe rishobora gutuma umuntu arira kandi akagira agahinda kenshi cyane.

Itsinda ry'abajyanama b'ubuzima rigizwe n'abagore ndetse n'abagabo, ryahuriye hamwe kugira ngo rihugurwe ku buzima. By'umwihariko aho bari guhabwa inama z'uburyo bakwita ku barwayi bafite uburwayi bwo mu mutwe ndetse n'ihahamuka.

Umugore n'umugabo bicaye mu nzu bari bonyine, aho umugabo arimo aganiriza umugore ufite ikibazo cy'ihungabana ryo mu mutwe. Na none umugabo afite igikoresho kigezweho cyitwa telefone. Na none hari icupa ririmo amazi.

Abantu batandukanye baturutse mu duce dutandukanye, bicaye batuje kandi bateze amatwi umuntu uhagaze imbere yabo, urimo kubigisha uko bafasha abantu batandukanye bafite ibibazo by'ihungabana ryo mu mutwe.

Abajyanama b'ubuzima batandukanye, by'umwihariko harimo abagore ndetse n'abagabo, bahuriye hamwe kugira ngo bahabwe amahugurwa y'uburyo bakwita ku bantu bafite ibibazo by'ihungabana ryo mu mutwe ndetse n'ubundi burwayi bwo mu mutwe. Aho barimo kubereka uburyo bakwita ku bantu bafite ihungabana ryo mu mutwe.

Umukecuru ugeze mu zabukuru ariko ufite uburwayi bwo mu mutwe. Nta myenda yambaye hejuru ,na none afite urunigi mu ijosi, na none yiteze igitambaro cy'umweru mu mutwe.

Umugore ugeze mu za bukuru, wicaye ku ntebe hanze, none kandi atekeye hanze ibyo kurya. Nanone arishimye cyane kandi arimo guseka. Kwishima no guseka bimufasha kudaheranwa n'agahinda, na none kandi bimufasha kutagira ihungabana ryo mu mutwe, bigatuma agira ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Polisi y'igihugu ifatanyije n'abayobozi batandukanye ndetse n'urubyiruko, bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga, aho bakangurira buri muntu wese kwibuka ko kurwanya ihohoterwa ari inshingano ya buri muntu wese ku giti cye. Ihohoterwa rigira ingaruka ku mitekerereze ya muntu, aho umuntu wakorewe ihohoterwa ashobora kurwara indwara y'ihungabana ryo mu bitekerezo.

Umugore wishimye cyane, wicaye mu ntebe hanze, ufite ibyishimo byinshi cyane. Kwishima ni bimwe mu bifasha umuntu kudaheranwa n'agahinda kandi bifasha umuntu kuruhuka mu bwonko bityo ntabe yagira ikibazo cy'ihungabana ryo mu bwonko.

Itsinda ry'inzobere mu bijyanye no kwita ku burwayi bwo mu mutwe rigizwe n'abagabo ndetse n'abagore, by'umwihariko hakaba harimo n'umugore wa Nyakubahwa Perezida Paul Kagame "Jeannette Kagame", akaba n'umwe mu bashinze umuryango Imbuto foundation ushinzwe kwita ku bana, ndetse by'umwihariko bafite ibibazo byo mu mutwe ndetse n'ihungabana ryo mu mutwe.

Umubyeyi w'umugore uri kumwe n'umwana we ukiri muto, aho umubyeyi w'umugore ari gukinisha umwana amusetsa, ibi bifasha ubwonko bw'umwana gukora neza, bikamurinda igwingira ry'ubwonko.

Uruhuri rw'abakiri bato by'umwihariko abana b'abahungu ndetse n'ab'abakobwa, barishimye barimo gukoma amashyi kandi baranezerewe nyuma yo kwigishwa no gusobanurirwa ibihereranye n'uburwayi bwo mu mutwe bukunze kugaragara.

Abagore babiri bakiri batoya. Aho umugore umwe arimo kuganiriza mugenzi we, ufite ihungabana ryo mu mutwe, amufasha kongera gusubiza ubwenge ku gihe ndetse no kumufasha kongera gutekereza neza. Ibi bituma ihungabana rigabanuka.

Umwana wikoreye amaboko, ufite agahinda kandi urimo kurira ndetse n'amarira yamanutse ku matama avuye mu maso na none hari abandi bantu batandukanye bafite ibikoresho bitandukanye, urugero nk'ibikoresho bifashisha bari guteka bita inkwi ndetse n'ibikoresho bifashisha bari kuvoma amazi yo gukoresha mu ngo.

Umusore ukiri muto wambaye amadarubindi ndetse n'agapira k'amaboko magufi k'umweru, arimo atanga ubutumwa bugaragaza ko ubuzima bwo mu mutwe bukwiye kwitabwaho kuri bose, si bamwe na bamwe ahubwo ni abantu bose.

Umugabo ufite ihungabana ryo mumutwe wambaye imyenda byashaje ndetse n'inkweto zashaje nanone kandi akaba yiteye ibiragi by'umukara maso nanone afite ibishashi byuzuye ibyennda byashaje ndetse n'igitebo cyashaje.

Umugabo ufite ihungabana ryo mu mutwe, aho yambaye imyenda yacikaguritse impande zose kandi isa nabi, na none akaba afite umusatsi mwinshi cyane, akaba adaheruka kwiyogoshesha. Na none afite ibyo kurya mu ntoki yatoraguye, bigaragara ko afite ihungabana ryo mu mutwe. Ariko ihungabana ryo mu mutwe riravurwa rigakira.

Umujyanama w'ubuzima ari kumwe n'umugore ukiri muto, ufite akana kakiri gato, aho umujyanama w'ubuzima ari gusuzuma ubuzima bwo mu mutwe bw'umubyeyi n'umwana, akoresheje ibikoresho byabugenewe, byifashishwa mu gusuzuma ubuzima bwo mu mutwe uko buhagaze.

Umuganga w'inzobere mu bijyanye no gutanga inama zifasha, abafite ibibazo by'uburwayi byo mu mutwe, akaba ahagarariye ikigo gifasha abarwayi bafite uburwayi bwo mu mutwe. Icyo kigo ke kikaba gikora ku wa Gatatu ndetse no ku wa Gatandatu.

Umuntu ufite ihungabana ryo mu mutwe, wicaye hasi kandi wambaye inkweto zisa nabi kandi zashaje, nanone yambaye imyenda isa nabi kandi yashaje, nanone arimo kurya ibyokurya yatoraguye kandi bisa nabi, nanone hari abantu bahagaze inyuma ye.

Ikigo gishinzwe kwita ku buzima, by'umwihariko aho cyibanda ku bafite uburwayi bwo mu mutwe. Kikaba gitanga inama zifasha abantu bafite ihungabana ryo mu bitekerezo kongera kugira ubuzima bwiza kandi bufite intego.

Iryinyo ryamaze kwangirika barikuyemo mu rwego rwo gutuma andi menyo akiri mazima atangirika bitewe n'iri ryinyo ryamaze kwangirika, nanone kandi hari ibikoresho byifashishwa mu kuvura amenyo cyangwa se mu gukuramo amenyo yangiritse kugira ngo adakomeza kwangiza ayandi.

Umwana ukiri muto wagiye ku bitaro kwivuza amenyo afite ikibazo, aho umuganga ushinzwe kuvura amenyo arimo gusuzuma amenyo ngo amenye amenyo afite ikibazo bityo ayavure.

Umugabo ufite amenyo y'umweru kandi yererana cyane. bitewe n'uko ayagira isuku akayitaho akoresheje ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwita ku menyo. Arimo gusukura amenyo ye akoresheje bimwe mu bikoresho byabugenewe bivana imyanda ku menyo.

Umuganga uvura amenyo wambaye imyambaro yabugenewe yambarwa n'abaganga, ari mu cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye yafashijebo gihe ari kuvura abarwayi, urugero: nk'igitanda abarwayi barwaye amenyo baryamaho mu gihe barimo kuyavura.

Umugabo wasamye ufite amenyo asa neza cyane y'umweru, kuko ayagirira isuku kandi akayitaho akoresheje ibikoresho byabugenewe. Na none afite agakoresho kabugenewe agiye gushyira mu menyo, aho kayafasha kutangirika kandi kakayafasha kutagerwaho n'imyanda itandukanye.

Umukobwa urimo guseka, uri kumwenyura, ariko urimo gushaka ubuvuzi bw'amenyo bugezweho. Aho yagiye gushaka amenyo atari karemano, kugira ngo ayasimbuze amenyo ye arwaye, afite ikibazo.

Itsinda ry'abasore ndetse n'inkumi bishimye cyane nyuma yo guhabwa inama ndetse n'amahugurwa ku bijyanye no kwita ku menyo by'umwihariko bakoresheje ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kwita ku menyo.

Umurwayi uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, aho arimo kuvurwa amenyo, ari kumwe n'abaganga babiri, barimo kumuvura amenyo, bakoresheje ibikoresho byabugenewe, byifashishwa mu kuvura amenyo.

Umuntu ufite amenyo meza cyane y'umweru kandi akeye, akaba abikesha kuba ayitaho akoresheje ibikoresho bifashisha basukura amenyo, arimo kuyasukura akoresheje kimwe mu bikoresho bifashisha basukura amenyo.

Umuganga uvura amenyo wambaye imyenda yabugenewe yambarwa n'abaganga bavura amenyo, nanone afite ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga bavura amenyo, aho abyifashisha asuzuma amenyo y'abarwayi.

Abasore n'inkumi ndetse n'abagabo n'abagore bahuriye hamwe, akaba ari bamwe mu baganga bashinzwe kuvura amenyo, aho bahuriye hamwe kugira ngo bahabwe inama z'uburyo bakwita ku bantu barwaye amenyo.

Umugabo urimo gusukura amenyo ye akoresheje igikoresho cyabugenewe kifashishwa mu gusukura amenyo, kivanaho imyanda iba yafashwe ku menyo mu gihe umuntu ari kurya, na one kandi afite amenyo y'umweru cyane yererana kubera ko ayitaho akayagira isuku akoresheje ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kuvana imyanda ku menyo.

Umurwayi uri kumwe na muganga, aho yaje kwivuza amenyo, muganga akaba arimo gusuzuma amenyo ye akoresheje ibikoresho byabugenewe kugira ngo arebe amenyo arwaye bityo ayavure.

Ku munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu kanwa, abaganga b'ikigo gishinzwe kwita ku buzima mu Rwanda begereye abaturage kugira ngo babasuzume uburwayi bwo mu kanwa by'umwihariko uburwayi bw'amenyo. Nanone hari abaturage batandukanye baje kwisuzumisha uburwayi bwo mu kanwa by'umwihariko amenyo kugira ngo bavurwe.

Umugore urimo gusukura amenyo ye akoresheje ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gusukura amenyo, by'umwihariko bivanaho imyanda ku menyo kugira ngo amenyo akomeze gukora neza, afite amenyo y'umweru kubera ko ayagirira isuku akayitaho.

Umugabo urimo gusukura amenyo ye, akoresheje ibikoresho byabugenewe, byifashishwa mu kwita ku menyo by'umwihariko ibikoresho bikura imyanda ku menyo. Aho afite amenyo y'umweru kubera ko ayitaho buri munsi.

Umuganga w'umugore urimo kwita ku murwayi ufite uburwayi bw'amenyo yangiritse. Arimo gukoresha ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gusukura amenyo. Ibi bifasha umurwayi ufite amenyo yangiritse kongera kugira amenyo afite ubuzima buzira umuze.

Itsinda ry'abana bakiri bato batandukanye barimo kwita ku menyo yabo bayagirira isuku, bakoresheje ibikoresho by'isuku bitandukanye bikoreshwa mu kwita ku menyo. urugero nk'umuti w'amenyo, amazi ndetse n'agakoresho bakoresha boza amenyo.

Umuntu uri guseka ufite amenyo y'umweru kandi yererana, abikesha kuba ayagirira isuku, akayitaho akoresheje ibikoresho bitandukanye urugero nk'imiti yifashishwa mu gusukura amenyo ndetse no kuvanaho imyanda iba yafasheho.

Umugabo umaze gukaraba umubiri wose, akaba arimo gusukura amenyo ye akuraho imyanda iba yafashe ku menyo, urugero ; nk'ibiryo biba byafashe ku menyo igihe ari kurya. Ibi bifasha amenyo gusa neza kandi bikayafasha kutangirika.

Abana bakiri bato batandukanye, barimo kwita ku menyo yabo bayagiriye isuku, bakoresheje ibikoresho byabugenewe, urugero nk'uburusu, korogati ndetse n'amazi. Ibi bifasha amenyo gukomeza kugira ubuzima bwiza ntiyangirike. Agakomeza kugira umwimerere wayo.

Umuganga urimo kuvura umurwayi urwaye amenyo, akoresheje ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura amenyo; Umuganga yambaye imyenda yabugenewe igaragaza ko ari umuganga, na none yambaye akarindamunwa, na none yambaye uturindantoki mu ntoki ze.

Umugabo n'umugore bageze mu za bukuru barimo gufata amafunguro akungahaye kuri vitamini zitandukanye mu rwego rwo gukomeza kugira ubuzima bwiza no kubungabunga mu mafunguro bari gufata hakubiyemo ibitera, imbaraga ibyubaka umubiri ndetse n'ibiri indwara.

Abantu barimo gufungura ibyo kurya, ariko by'umwihariko hakaba hari umugore n'umugabo bageze mu zabukuru, na bo barimo gufungura ibyo kurya. Ibi bibafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza, bitewe n'uko bakomeza gufata ifunguro rifite vitamine zitandukanye.

Umurwayi w'umugabo ugeze mu zabukuru, udashobora kugenda neza kubera ko afite imbaraga nke kandi akaba yaravunitse, arimo kwitabwaho n'umuganga ubishinzwe, amufasha gukoresha ukuguru kugira ngo gushobore gukora neza.

Abantu bakuru bahuriye hamwe hanze barimo baraganira, hari abicaye hasi mu byatsi, abicaye ku ntebe hari n'abasigatiye abana batoya, nanone kandi harimo abamama barimo kuboha ibyibo ndetse n'ibitebo.

Umugabo n'umugore bageze mu zabukuru, bambaye amadarubindi, bari gufata amafunguro akungahaye kuri vitamini zitandukanye by'umwihariko aho bari kurya amafunguro akubiyemo imboga, aho imboga zibafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi zikabarinda indwara. Na none bafite ikirahure cyuzuye amazi bari kunywa.

Umugabo ugeze mu zabukuru, urimo kwitabwaho n'umugore, aho arimo kumuha amafunguro atandukanye, by'umwihariko amafunguro yiganjemo imbuto zitandukanye, zifasha umubiri gukomeza gukora neza. Na none ari kumuha ibyo kunywa bitunganywa bivanywe mu mbuto ndetse n'ibindi byokurya bitandukanye, bifasha umubiri we gukomeza gukora neza.

Umukecuru urimo kwita ku buzima bwe, akora imyitozo yoroheje ngororamubiri, akoresheje ibikoresho byabugenewe, byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri. Ari kumwe n'umukobwa ukiri muto urimo kumufasha, gukora imyitozo ngororamubiri, akoresheje ibyo bikoresho byabugenewe byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umurwayi ugeze mu zabukuru w'umugabo uri ku bitaro aho aryamye ku gitanda cy'abarwayi, akaba arimo kwitabwaho n'umuganga w'umugore amuha ibyo akeneye by'umwihariko nk'imiti imufasha kongera kugira ubuzima bumeze neza.

Umugabo ugeze mu zabukuru, wambaye amadarubindi uri kumwe n'umuganga w'umugore urimo kumwitaho, aho arimo kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri yoroheje idasaba imbaraga nyinshi cyane, iyi myitozo ngororamubiri ikaba ifasha imitsi y'uyu mugabo ugeze mu zabukuru gukomeza gukora neza.

Umubyeyi w'umugore ugeze mu za bukuru, uri kumwe n'umukobwa we ukiri muto, bari mu nzu, aho umubyeyi ugeze mu za bukuru yicaye mu ntebe, ariko we n'umukobwa we ukiri muto, bose barimo guseka barishimye, baranezerewe cyane, ibi bifasha umubyeyi ugeze mu za bukuru kudaheranwa n'agahinda ndetse no kutigunga.

Umugore w'umuganga ukiri muto, urimo kwita ku mugabo ugeze mu zabukuru urwaye, udashobora kwigenza wenyine. Aho umuganga ukiri muto ari gukoresha igikoresho cyabugenewe, gifasha abantu kugenda by'umwihariko abageze mu zabukuru.

Abagabo babiri bageze mu zabukuru, barimo gukora imyitozo ngororamubiri, aho barimo kugenda birukanka gake gake. Ibi bifasha ingingo z'umubiri wabo gukomeza gukura neza ari nako bageze mu zabukuru. Nanone bafite amazi mu icupa yo kunywa. Kunywa amazi nabyo bibafasha gukomeza kugira ingingo z'umubiri zikora neza.

Umuntu ugeze mu zabukuru udashobora kugenda ahagaze yemye nta kintu afasheho, afite igikoresho cyabugenewe gifasha abantu bageze mu zabukuru badashobora kugenda bahagaze bemye, aho kibafasha kugenda ndetse bakaba bahagarara bemye.

Umuntu ugeze mu zabukuru, urimo gufata indyo yuzuye, kandi ikungahaye kuri vitamini zitandukanye, nanone kandi iri funguro rigizwe n'ibitera imbaraga, ibirinda indwara, ndetse n'ibyubaka umubiri, ibi bimufasha gukomeza kumererwa neza.

Umusaza urimo kwitabwaho n'umuganga, aho arimo kumusuzuma uburwayi akoresheje ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gusuzuma indwara zitandukanye, aho by'umwihariko yamwambitse igikoresho mu kuboko kw'iburyo cyifashishwa mu gusuzuma umuvuduko w'amaraso mu mubiri. Na none umusaza yambaye amadarubindi amufasha kureba neza.

Itsinda ritubutse, rigizwe n'ingeri z'abantu bose, by'umwihariko abakuze. Na none kandi harimo abakiri bato. Aho bose bicaye hamwe munsi y'igiti. Barimo baganira ku ngingo yafasha abakuze ndetse n'abakiri bato, gukomeza kugira ubuzima bwiza, by'umwihariko ku ngingo yo kugira isuku, mu byo bakora byose.

Ababyeyi bageze mu za bukuru bari kumwe n'abana babo batatu, barishimye cyane kandi bafite ubuzima buzira umuze ndetse n'amagara mazima, ibi babikesha kuba bafata amafunguro akungahaye kuri vitamine zitandukanye.

Umubyeyi w'umugabo ugeze mu zabukuru, wicaye mu igare rifasha abantu kugenda by'umwihariko abafite ubumuga bwo kutagenda, na none hari umuganga w'umugore urimo kumuganiriza, urimo kumufasha gukomeza kuruhuka mu bwonko.

Umugore ugeze mu za bukuru urimo kwita ku buzima bwe, akora imyitozo ngororamubiri imufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Yicaye hasi ku gikoresho cyabugenewe gituma akora imyitozo ngororamubiri yoroheje, urugero nko guhina umugongo ndetse no kurambura amaguru, ibi bituma imikaya ndetse n'imitsi by'umubiri we bikora neza.

Umugore ugeze mu zabukuru, urimo kwita ku buzima bwe, akora imyitozo ngororamubiri yoroheje, akoresheje ibikoresho bimufasha, kunanura imitsi ye ndetse n'imikaya by'amaguru ndetse n'amaboko.

Umugabo ugeze mu zabukuru urimo kwitabwaho n'umuganga by'umwihariko aho umuganga w'umugore ukiri muto arimo gupima umugabo ugeze mu zabukuru niba afite isukari nyinshi mu mubiri, akoresheje igikoresho cyabugenewe kifashishwa mu gupima isukari iri mu mubiri w'umuntu.

Umugore n'umugabo bageze mu zabukuru, baje gusurwa n'abana babo ndetse n'abuzukuru babo, aho bahuriye hamwe mu rugo bakaba barimo kuganira kandi bishimye bamwenyura. Ibi bibafasha gukomeza kuruhuka mu bwonko kandi bikabafasha gukomeza kutigunga.

Umusaza ufite ubwanwa bw'imvi z'umweru arimo kwitabwaho n'umuganga w'umugore, aho ari kumuha imiti kugira ngo imufashe gukira uburwayi afite. Nanone umusaza afite ikirahuri mu ntoki kirimo amazi yo kunwesha imiti.

Umusaza n'umukecuru barimo guseka cyane kandi bahoberanye, kwishima ni bimwe mu bifasha abageze mu zabukuru kudaheranwa n'agahinda kandi bikabafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umusaza wicaye mu igare ryabugenewe, ryifashishwa mu gufasha abantu bafite intege nke, badashobora kugenda n'amaguru, aho yicaye muri iryo gare arimo kwitabwaho n'ushinzwe gusunika iryo gare kugira ngo abashe kugera aho agiye, nanone umusaza yambaye amadarubindi amufasha kureba neza.

Umugabo ugeze mu zabukuru urwaye, urimo kwitabwaho n'umugore n'umugabo bakiri bato, aho umurwayi ugeze mu zabukuru barimo kumuhagurutsa ku buriri bwe kugira ngo bamufashe kuba yagenda kubera ko afite ubushobozi buke bwo kwihagurutsa ku buriri.

Umumama ugeze mu zabukuru, urimo guhabwa ubufasha bw'ibikoresho bishobora kumufasha, kuba yabaho neza, urugero arimo arahabwa nk'ibijyamirwa, ibyo kwiyorosa ndetse n'inzitiramibu, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umwana ukiri muto ari kumwe na sogokuru we ugeze mu za bukuru barimo gukina imikino ibafasha kwishima kugira ngo bere kuheranwa n'agahinda, aho umwana arimo kwigisha sogokuru we imikino igezweho imufasha kuruhuka mu bwonko.

Itsinda ahanini rigizwe n abagore bageze mu zabukuru bahuriye hamwe barimo baganira nanone harimo n'ababyeyi b'abagore bakiri bato guhura kw'abagore bageze mu za bukuru bakaganira ndetse n'abakiri bato bibafasha kwirinda kugira irungu kandi bibafasha kutigunga.

Abakecuru barimo kugenda mu muhanda w'igitaka, bari kumwe n'abandi bantu batandukanye bakiri bato na none bafite inkoni mu ntoki zabo, zibafasha gukora urugendo kubera ko bafite imbaraga nkeya.

Abasaza ndetse n'abakecuru bahuriye hamwe kandi bambaye neza imyenda isa neza ifite isuku, aho bahuriye hamwe kugira ngo bahabwe inama zitandukanye, zabafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza nubwo bageze mu zabukuru.

Umugabo n'umugore bageze mu zabukuru, bicaye hamwe, mu nzu, mu ruganiriro, aho barimo kwita ku buzima bwabo by'umwihariko umugabo ugeze mu zabukuru, akaba ari kunywa imiti yagenewe na muganga kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umugore n'umugabo bageze mu zabukuru, umugabo ugeze mu za bukuru ari kwita ku buzima bwe, afata imiti imufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza, na none arimo gusuzuma niba imiti agiye kunywa itarengeje igihe kugira ngo itamugiraho ingaruka.

Ababyeyi b'abagore babiri, bishimye kandi bafite amagara mazima ndetse n'ubuzima buzira umuze, bakaba babikesha kurya indyo yuzuye irimo vitamine zitandukanye na none kandi bakaba bafata umwanya uhagije bagatembera ndetse bakaruhuka mu mutwe, ibi bibafasha kugira ubuzima bwiza.

Umugabo ufite icyapa cyanditseho ko urukingo rw'icyorezo giterwa n'inkende bita Pogisi rwabonetse kandi rukaba rwifashisha mu gukingira iyo ndwara iterwa n'inkende.

Inyandiko igaragaza ko aho umuntu yaba aherereye hose akwiriye kwitabwaho; ni ukuvuga mubihereranye n'ubuzima; yaba aba mu cyaro, yaba aba mu mujyi, buri wese akwiye guhabwa ndetse akitabwaho mu buryo bungana n'ubw'undi mu bihereranye no kwita ku buzima.

Abayobozi bo mu nzego z'ubuzima baturutse mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko bagizwe n'abagore ndetse n'abagabo, bahuriye hamwe kugira ngo bemeranye ku masezerano n'ubufatanye mu bijyanye n'imiti yifashishwa mu kwita ku barwayi.

Twirinde indwara y'ubushita bw'inkende. Indwara y'ubushita bw'inkende ituruka ku nyamaswa yitwa inkende. Iyi ndwara ikaba iyica nabi kandi ikwirakwira mu buryo bworoshye. Dukarabe intoki kenshi cyane, twambare uturindamunwa, kandi duhane intera ihagije, byibuze ya metero imwe n'igice, kugira ngo twirinde gukwirakwiza indwara y'ubushita bw'inkende.

Itsinda ry'abanyeshuri benshi cyane, bahuriye hamwe mu cyumba kigari, harimo intebe zitandukanye bicayeho, aho bicaye, batoye, bateze amatwi ibyo barimo kwigishwa ku byerekeye ubuzima kugira ngo bazabyifashishe bita ku buzima bw'abandi.

Abaganga babiri bambaye imyenda yabugenewe urugero nk'akarinda munwa ndetse n'indi myenda ibarinda mu gihe bari kuvura umuntu nano barimo kuvura umuntu uburwayi bwo mu kanwa, nanone hari abandi bantu ku ruhande bategereje ko babavura baje kwivuza uburwayi butandukanye.

Itsinda rigari ry'abantu rigizwe n'abagabo ndetse n'abagore, by'umwihariko bakaba ari abayobozi bashinzwe inzego z'ubuzima. Aho bita ku buzima bwa muntu. Barishimye cyane nyuma yo guhabwa inama ndetse n'amahugurwa z'uburyo bakwita ku buzima bwa muntu.

Itsinda ry'abaganga rigizwe n'umugabo ndetse n'umugore umwe, barimo kwita ku mugabo ugize ikibazo cy'uburwayi mu buryo butunguranye bakoresheje ibikoresho by'ibanze nkenerwa bifasha umuntu uhuye n'ikibazo cy'uburwayi mu buryo butunguranye.

Kuringaniza urubyaro, ni imwe muri gahunda zifasha abagize umuryango, gukomeza kugira ubuzima bwiza ndetse no kugira amikoro abafasha kugura ibikoresho bakeneye, by'umwihariko ibyo kurya bikungahaye kuri vitamini zitandukanye.

Igitabo cyifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri yisumbuye, aho iki gitabo kibanda cyane ku buzima bw'imyororokere y'abantu, kikaba gifasha abanyeshuri gusobanukirwa imikoreshereze y'ibitsina ndetse n'uko ubuzima bwororoka.

Itsinda ry'abantu bahuriye hamwe rigizwe n'abagore ndetse n'abagabo by'umwihariko hakaba harimo abashinzwe inzego z'ubuzima ndetse na bamwe mu bajyanama b'ubuzima, nanone hari bamwe mu bashinzwe umutekano bahuriye hamwe kugira ngo baganire ku cyo bakora kugira ngo barusheho kwirinda ibyorezo by'indwara yaba kubikwirakwiza ndetse no kubyanduza abandi.

Imibare igaragaza abantu bakeneye guhabwa urukingo rurwanya covid cumi n'icyenda imbere y'abandi. Iyo mibare igaragaza ko abantu bafite imyaka hagati ya mirongo itandatu kuzamura ari bo bakeneye guhabwa urukingo rurwanya covid cumi n'icyenda mu ba mbere, kubera ko imibiri yabo iba ifite intege nke yo guhangana na covid cumi n'icyenda.

Hari ibiryamirwa ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho byo ku bitaro byifashishwa n'abarwayi mu gihe barwariye ku bitaro nanone hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gupima uburwayi bw'umurwayi.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, harimo abaganga bambaye udupfukamunwa ndetse n'abandi bantu batandukanye nabo bambaye ubupfukamunwa, bahuriye ku nyubako y'ibitaro, aho bifashisha bakira abarwayi batandukanye baje kwivuza.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro byihariye cyitwa icyumba cy'isuzumiro. Kifashishwa n'abaganga mu gihe barimo gusuzuma indwara y'umurwayi kugira ngo bamenye indwara arwaye bityo babonereho kumuha imiti ihuje n'uburwayi afite.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro, kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abaganga, mu kuvura abarwayi batandukanye, bafite ingingo z'umubiri zidakora neza. Aho bifashisha ibi bikoresho, bananura ingingo z'abarwayi.

Inyubako y'ibitaro irimo kubakwa yubatswe mu buryo bugezweho, aho igeretse kabiri. Nanone hari abakozi barimo gukora amasuku mu rwego rwo gutuma inyubako isa neza. Nanone iruhande rw'inyubako hari urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, barimo gutembera ndetse n'abaje kureba iyi nyubako.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro kifashishwa mu kwakira abarwayi baje kwivuza. Hari abarwayi baje kwivuza barimo kuvuga uburwayi bwabo. Hari n'undi mugabo waje kwivuza ariko akaba ategereje ko mugenzi we arangiza kuvuga uburwayi bwe bakamuvura. Nanone hari abaganga barimo kwakira abaje kwivuza.

Umuganga uri gusuzuma indwara z'abagore babiri baje kwivuza akoresheje ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma uburwayi bw'umurwayi, urugero aho ari gukoresha igikoresho kifashishwa mu gusuzuma umuvuduko w'amaraso w'abarwayi.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro, kirimo ibikoresho bitandukanye kandi bigezweho byifashishwa n'abaganga mu kuvura abarwayi batandukanye. Urugero hari igikoresho kinini kandi kigezweho cyifashishwa n'abaganga mu gusuzuma indwara z'abarwayi z'imbere mu mubiri zitagaragara inyuma.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro kirimo ibikoresho byifashishwa na muganga mu gusuzuma indwara z'abarwayi, urugero harimo igikoresho gipima umubiri w'umuntu mu gihe barimo gusuzuma indwara z'imbere mu mubiri, nanone hari igikoresho kiryamwaho n'umurwayi mu gihe barimo kumuvura.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro kirimo ibikoresho bitandukanye, urugero nk'intebe zo kwicaraho, ameza ndetse n'akabati. Nanone hari ibikoresho birimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara z'abantu batandukanye, by'umwihariko abarwayi baza kwivuza ku bitaro.

Umurwayi urwariye ku bitaro, akaba aryamye kuri bimwe mu bitanda byo ku bitaro, na none hari ibikoresho bitandukanye biri iruhande rwe, byifashishwa n'umuganga mu gihe ari kumuvura, ndetse n'igihe ari gusuzuma uburwayi bwe.

Umuganga w'umugabo urimo gukoresha ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kureba ibice by'imbere mu mubiri w'umuntu. Aho arimo gukoresha ibi bikoresho by'ikoranabuhanga areba uko urutirigongo rw'umurwayi rwifashe aho rufite ikibazo.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro kifashishwa n'abaganga, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutwara imiti bayigeza ku barwayi, nanone harimo ibindi bikoresho bitandukanye byo kwicaraho, urugero nk'intebe. Nanone harimo ibindi bikoresho byifashishwa n'abaganga mu gusuzuma indwara z'abarwayi.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro kigezweho kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarwayi ndetse n'abaganga. Urugero nk'ibitanda byo kuryamaho ndetse n'ibiryamirwa. Na none harimo ibikoresho bigezweho urugero amatara acanira abarwayi mu gihe cya nijoro.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro, kirimo ibikoresho bitandukanye, bikoreshwa n'abaganga mu kuvura abarwayi bafite uburwayi butandukanye, by'umwihariko hakibandwa ku barwayi bafite ikibazo cy'uburwayi bw'imitsi idakora neza, aho bakoresha ibi bikoresho babafasha kunanura imitsi yabo.

Umurwayi waje kwivuza ku bitaro, akaba arimo kubwira muganga aho ari kubabara ndetse n'uko yiyumva kugira ngo amuhe imiti yamufasha gukira. Nanone umuganga arimo gutega amatwi umurwayi kugira ngo yumve uburwayi arwaye bityo abone kumuha imiti, arimo yandika ibyo arimo avuga byose. Nanone hari undi muganga uhagaze inyuma.

Icyumba cyo ku bitaro cyifashishwa mu kwakira abarwayi batandukanye, by'umwihariko aho cyifashishwa mu kwakira abarwayi bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kugira ngo bahabwe ubufasha bwihuse kandi bw'ibanze.

Icyumba kigari kandi cyisanzuye cyo ku bitaro, cyifashishwa n'abaganga mu kuvura no kwakira abarwayi, na none cyifashishwa mu kubika ibikoresho bitandukanye, urugero nk'imiti ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Ibitaro byubatswe mu buryo bugezweho, aho igeretse kabiri, ikaba yifashishwa mu kwakira abarwayi bafite indwara zitandukanye bakavurwa, na none imbere yayo ndetse n'impande yayo, hari ubusitani buteyemo ibimera by'amoko atandukanye, urugero nk'ibiti by'imbuto.

Inyubako irimo ububiko bw'imiti itandukanye y'amoko yose kandi ivura amoko y'indwara atandukanye nanone imiti iri mu bikoresho byabugenewe biyifasha kuramba ndetse no kutangirika ku buryo uyikeneye igihe icyo ari cyo cyose ayibona mu gihe ayishaka.

Kimwe mu byumba by'inyubako zo ku bitaro cyifashishwa mu kwakira abarwayi baje kwivuza hari abantu batandukanye b'amoko yose, baje kwivuza indwara zitandukanye hari abicaye ku ntebe ndetse n'abahagaze, na none hari abambaye uburindamunwa mu rwego rwo kwirinda gukwirakwiza indwara zandura.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro kirimo ibikoresho bitandukanye bigezweho kandi bikeye, byifashishwa n'abaganga urugero: intebe zo kwicaraho, ameza, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu gihe bavura abarwayi. Na none iki cyumba cyo ku bitaro kirimo amabara asa neza cyane urugero: nk'amabara y'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu ryijimye.

Inyubako y'ibitaro yifashishwa mu kwakira abarwayi batandukanye baje kwivuza indwara zitandukanye, aho by'umwihariko ababyeyi batwite baje kubyara bagana ibi bitaro kugira ngo bafashwe kubyara neza.

Inyubako igezweho y'ibitaro yifashishwa mu kwakira abarwayi ndetse no kuvura indwara z'ubwoko butandukanye. Hariho abantu baje kwivuza uburwayi bw'amoko atandukanye.

Icyumba kibikwamo imiti itandukanye, yifashishwa mu kuvura abarwayi ku bitaro. Harimo imiti itandukanye y'amoko atandukanye, iri mu bikoresho byabugenewe biyifasha kuramba ndetse no kutangirika.

Inyubako nziza cyane zifashishwa mu kwita ku barwayi, kugira bongere kugira amagara mazima, na none hariho ubusitani ndetse n'ibiti biri impande rw'inyubako zifashishwa mu kwita ku barwayi.

Icyumba cyo ku bitaro, cyifashishwa mu kwakira abarwayi, mu gihe baje kwivuza, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarwayi, urugero nk'intebe zo kwicaraho mu gihe bategereje ko umuganga abakira, nanone hari aho ushinzwe kwakira abarwayi agomba kuba yicaye.

Inyubako y'ibitaro isa neza kandi ikeye yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yifashishwa mu kwakira abarwayi batandukanye baje kwivuza indwara zitandukanye. Imbere y'iyo nyubako y'ibitaro hari ubusitani busa neza kandi buteyemo amoko y'ibimera atandukanye, urugero nk'amoko y'ibiti by'imbuto ndetse n'indabo.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro, kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara z'abarwayi. Urugero nk'igihe umurwayi afite ingingo zidakora neza, ashobora gukoresha ibi bikoresho, bikamufasha kugira ingingo zikora neza. By'umwihariko urugero nk'imitsi ndetse n'imikaya, bikongera gukora neza.

Kimwe mu byumba cy'inyubako zifashishwa mu kwita ku buzima bwa muntu, ndetse n'abafite uburwayi butandukanye bw'amoko atandukanye kiracyeye gifite isuku impande zose, amabara y'umweru ubururu ndetse n'amabara y'umukara.

Inyubako y'ibitaro ndende igeretse, yifashishwa mu kuvura abarwayi batandukanye, bafite uburwayi butandukanye. Nanone hari ibinyabiziga byifashishwa n'abaganga, mu gihe baje kuvura abarwayi. Nanone hari ibinyabiziga, byifashishwa mu kuzana abarwayi kwivuza ku bitaro mu gihe bafite intege nkeya.

Ibitaro bya Nyanza, byifashishwa mu kwakira abarwayi, batandukanye, baje kwivuza indwara z'amoko atandukanye. Na none kuri ibi ibitaro bya Nyanza hakorera Isange, aho abantu bahuye n'ibibazo by'ihohoterwa bagana Isange, bityo bagafashwa bagahabwa ubufasha butuma bakomeza kumera neza.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga ndetse n'abarwayi. Urugero harimo intebe zo kwicaraho zigezweho, ndetse n'ibitanda byo kuryamaho bigezweho biryamwaho n'abarwayi. Nanone hari ibikoresho bitandukanye byo kujugunyamo imyanda yakoreshejwe.

Ububiko bw'imiti y'amoko atandukanye kandi ivura indwara z'amoko atandukanye iri mu bikoresho biyifasha kuramba ndetse no kutangirika bityo igihe cyose umuntu uyikeneye akaba yayibona igifite ubuziranenge

Kimwe mu byumba byo ku bitaro kifashishwa mu kwakira abarwayi mu gihe baje kwivuza. Harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwita ku barwayi. Urugero nk'inzitiramibu yifashishwa mu kurinda abarwayi kuba barumwa n'imibu. Nanone hari ibitanda byo kuryamaho byifashishwa n'abarwayi. Nanone harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu kuvura abarwayi.

Inyubako zifashishwa mu kwakira abantu kugira ngo babiteho mu gihe bafite ibibazo by'uburwayi, nanone hari icyapa kirangira abantu aho bashobora kujya kwivuriza mu gihe bafite ibibazo by'uburwayi.

Inyubako y'ibitaro nziza cyane isa neza ifite isuku, iteye amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru. Iyi nyubako y'ibitaro ikaba yifashishwa mu kwakira abarwayi bafite ibibazo by'uburwayi baje kwivuza.

Abarwayi baje ku bitaro by'umwihariko aho bari kumwe na muganga urimo kubapima uburwayi bafite, akoresheje ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gupima uburwayi. Aho muganga ari gupima umurwayi ukiri muto w'umwana, akoresheje igikoresho cyifashishwa mu gupima umutima w'umuntu uko utera.

Umurwayi uryamye ku gitanda bavuriraho kwa muganga, akaba arimo kwitabwaho n'abaganga batandukanye, bashyize hamwe, bakaba bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu gihe bari kuvura abarwayi. Na none harimo ibikoresho bitandukanye barimo gukoresha by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma indwara z'abarwayi ndetse no kubaga.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro, kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa na muganga mu kuvura umurwayi. Urugero; harimo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma uburwayi bw'umurwayi bw'imbere mu mubiri. Na none hari igitanda kiryamwaho n'umurwayi mu gihe muganga arimo kumuvura. Harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa na muganga.

Kimwe mu cyumba cy'inyubako zifashishwa mu kwita ku barwayi ndetse no kuvura indwara zabo harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwita kuri abo barwayi nanone harimo abakozi bashinzwe kwita ku barwayi ni ukuvuga abaganga.

Ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge, byifashishwa mu kwakira abarwayi, ndetse no kubavura indwara zitandukanye. Bikaba bisa neza kandi biteye, amarangi y'umweru ndetse n'andi marangi atandukanye. Na none kandi hateye ibiti ndetse n'ibindi bimera by'amoko atandukanye.

Ibitaro byifashishwa mu kwakira abarwayi ndetse no kubavura. Nanone hateye ibiti by'imbuto, urugero nk' imyembe. Nanone hari ikigega cyifashishwa mu gufata amazi y'imvura.

Umuganga w'umugore uri kumwe n'umurwayi w'umukobwa ukiri muto, aho umuganga ari kumusuzuma uburwayi akoresheje ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gusuzuma uburwayi. Aho yamwambitse igikoresho cyabugenewe mu kuboko, aho ari gusuzuma umuvuduko w'amaraso. Na none umuganga yambaye akarindamunwa mu gihe arimo kuvura umurwayi.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro bigezweho birimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga kugira ngo basuzume ubuzima bw'umurwayi. Urugero: nk'ibikoresho bireba ibintu bitaboneka bitapfa kuboneshwa n'amaso bya kizungu.

Inyubako y'ibitaro yifashishwa mu kwakira abarwayi baje kwivuza uburwayi butandukanye, hariho abantu baje kwivuza uburwayi butandukanye, nanone hari ubusitani buteyemo indabo ndetse n'ibimera bitandukanye, nabyo bishobora kwifashishwa mu kuvura abantu uburwayi butandukanye.

Inyubako yitwa ubwiza ni ubuzima. Yifashishwa mu kubika amoko atandukanye y'imiti. Na none, yifashishwa mu gucuruza imiti y'amoko atandukanye, ku bantu bafite uburwayi butandukanye.

kimwe mu byumba byo ku bitaro, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'umurwayi kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza urugero; harimo ibitanda, ibiryamirwa ndetse n'iby'iyoroswa nanone mu rwego rwo kwirinda Malaria harimo inzitiramibu zitandukanye.

Zimwe mu nyubako z'ibitaro zifashishwa mu kwakira abarwayi ndetse no kubitaho bakabaha ubufasha bakeneye mu bihereranye n'uburwayi nanone hari imodoka zifashishwa mu kugeza abarwayi ku bitaro, nanone hari ubusitani bumeze neza burimo ibiti bitandukanye by'amoko atandukanye.

Ivuriro ry'ibitaro, ryifashishwa mu kuvura ndetse no mu kwakira abarwayi baje kwivuza. Iri vuriro rifite inyubako zitandukanye ndetse n'ibyumba bitandukanye, byifashishwa mu kwakira abarwayi bafite uburwayi butandukanye.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro kigezweho kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu kuvura abarwayi batandukanye, urugero harimo intebe igezweho yo kwicaraho, nanone harimo igikoresho umurwayi aryamaho mu gihe barimo kumusuzuma uburwayi bwe.

Umwana ukiri muto urimo gupimwa ibiro bakoresheje igikoresho cyifashishwa mu gupima ibiro by'umwana kugira ngo bamenye uko ibiro bye bihagaze. Na none hari ababyeyi b'abamama bafite abana babo na bo, baje gupimisha ngo bamenye uko ibiro by'abana babo bingana.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro, kirimo ibikoresho bitandukanye bigezweho, byifashishwa n'abaganga mu kuvura ndetse no gusuzuma indwara z'abarwayi, aho bifashisha ibikoresho bitandukanye by'amoko atandukanye, basuzuma indwara z'abarwayi kandi bapima ibizamini by'abarwayi, kugira ngo bamenye indwara barwaye.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu kuvura abarwayi, urugero hari nk'ibiryamirwa abarwayi baryamaho mu gihe abaganga bari kubavura, nanone hari ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma uburwayi bw'umurwayi.

Ikigo bita Isange gikora nk'ibitaro aho gikorera Remera Rukoma, kikaba cyifashishwa mu kwakira abarwayi, by'umwihariko bafite ihungabana ryo mu mutwe, ndetse n'abakorewe ihohoterwa, kikaba kibaha ubufasha bakeneye kugira ngo iryo hungabana batewe n'ihohoterwa rigabanuke cyangwa se rikire.

Inyubako y'ibitaro isa neza kandi ikeye, ifite amabara ndetse n'amarange atandukanye, urugero nk'irange ry'ubururu ndetse n'andi mabara, iyi nyubako y'ibitaro yifashishwa mu kwakira abarwayi bayo kwivuza indwara zitandukanye, nanone hari ikinyabiziga giparitse imbere y'inyubako y'ibitaro, nanone hari abantu batandukanye baje ku bitaro kwivuza.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi cyubatswe mu buryo bugezweho, aho kigeretse rimwe. Kikaba kifashishwa mu kwakira abarwayi batandukanye baje kwivuza indwara zitandukanye. Hari abaturage baje kwivuza uburwayi butandukanye.

Umuganga w'umugabo ufite ibikoresho bitandukanye yifashisha iyo ari kuvura abarwayi ndetse anabasuzuma kugira ngo amenye uburwayi bafite. Aho arimo guha inama abarwayi baje ku bitaro kwivuza, nanone hari abarwaye baje kwivuza ku bitaro.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga, urugero harimo ibikoresho bijugunywamo imyanda yamaze gukoreshwa n'abaganga, nanone harimo imigezi yifashishwa n'abaganga mu koza ndetse no gukora amasuku, boza ibikoresho byakoreshejwe n'abaganga.

Icyumba cyabugenewe cyifashishwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri. Urugero harimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri itandukanye, urugero nk'ibikoresho byifashishwa mu kwiruka, ndetse no gukomeza imikaya y'amaguru.

Kimwe mubyumba byifashishwa mu kwakira abarwayi mu gihe bafite ibibazo by'uburwayi, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwita ku murwayi, urugero nk'ibitanda, ibiryamirwa ndetse n'ibyiyoroswa. Nanone harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kumenya uko ubuzima bw'umurwayi bumeze.

Kimwe mu byumba kigari kandi kinini z'inyubako z'ibitaro kifashishwa mu kwakira abarwayi ndetse no kuvuga indwara zabo nanone harimo ibikoresho bigezweho byifashishwa n'abaganga ndetse n'abarwayi.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro, gifite isuku gikeye by'umwihariko aho abaganga bakorera ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga bakora ubushakashatsi urugero nk'intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere, cyifashishwa mu kwakira abarwayi batandukanye baje kwivuza indwara zitandukanye, nanone kuri iki kigo nderabuzima hateye ubwoko bw'indabo zifite amabara meza cyane y'umuhondo ndetse n'icyatsi, nanone hari umuntu uhagaze iruhande rw'ikigo nderabuzima cya Rwerere.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro, kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abaganga ndetse n'abarwayi, mu gihe abarwayi baje kwivuza ku bitaro, urugero hari ibiryamirwa ndetse n'ibitanda byifashishwa n'abarwayi barwariye ku bitaro, nanone hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu gusuzuma indwara z'abarwayi.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro, byifashishwa n'abaganga, mu kwakira ndetse no kuvura abarwayi. Kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abaganga, urugero nk'intebe zo kwicaraho, ameza, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umurwayi urwaye akaba aryamye ku gitanda cyo ku bitaro kijyamwaho n'abarwayi mu gihe barwaye by'umwihariko mu gihe barimo kuvurwa n'abaganga. Nanone hari ibikoresho bitandukanye biri iruhande rw'umurwayi byifashishwa na muganga mu gihe arimo kuvura umurwayi.

Ibitaro bya Butaro byo mu karere ka Burera, byifashishwa mu kwakira abarwayi ndetse no kubavura. Na none kandi hari bamwe mu bakozi bo mu bitaro bya Butaro barimo kwifotoza.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro, kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga mu kuvura abarwayi indwara zitandukanye, urugero hari nk'igikoresho cy'ikoranabuhanga gisuzuma uburwayi bw'umurwayi bw'imbere mu mubiri.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro kigali kandi kinini gikorerwamo inama n'abaganga, by'umwihariko biga uko barushaho kwakira neza ababagana, by'umwihariko abarwayi bafite indwara zitandukanye, yaba izigaragara ndetse n'izitagaragara, ndetse by'umwihariko n'indwara zo mu mutwe.

Ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, byifashishwa mu kwakira abarwayi batandukanye baje kwivuza indwara, nanone hari ibimera by'amoko atandukanye biteye imbere y'inyubako y'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, nanone hari abaganga babiri bahagaze imbere y'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge aho binjirira.

Kimwe mu byumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwita ku buzima bw'umuntu urugero nk'ibituma imikaya y'umuntu ikomera yaba iyo mu maboko ndetse n'imikaya yo mu maguru.

Kimwe mu byumba byo ku bitaro, cyifashishwa mu kwakira abarwayi mu gihe baje kwivuza. Gisa neza kiracyeye gifite amabara atandukanye, urugero; nk'amabara y'umweru, amabara y'ubururu ndetse n'andi atandukanye.

Inyubako y'ibitaro isa neza kandi ikeye, yifashishwa mu kwakira abarwayi baje kwivuza indwara zitandukanye, na none iruhande rw'ibitaro hateye ibimera by'amoko atandukanye, yaba ibikururumba ndetse n'ibirandaranda, na none hari abantu batandukanye barimo bagana ku nyubako y'ibitaro, bagiye kwivuza indwara zitandukanye.

Icyumba kinini kandi kigari kifashishwa mu kwakira abarwayi ndetse no kubitaho mu gihe barwaye nanone kandi kirimo ibikoresho nkenerwa byose byifashishwa mu kwita ku murwayi urugero nk'ibiryamirwa, ibyiyoroswa ndetse n'ibitanda nanone kandi harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kumenya uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Inyubako nziza y'ibitaro igezweho igeretse rimwe yifashishwa mu kwakira ndetse no kuvura abafite ibibazo by'uburwayi butandukanye na none ifite ubusitani buteye neza na none ikagira n'indabo z'amoko atandukanye na none ifite utuyira tugana ku nyubako dukoze neza.

Umuganga cyangwa umuvuzi ufite ubumenyi buhagije mu kwita ndetse no kuvura indwara z'abantu batandukanye, ari mu cyumba cye akoreramo avura kandi afasha abarwayi batandukanye, harimo ibikoresho bitandukanye akoresha avura abantu batandukanye, ibyo bikoresho bimwe n'iby'ikoranabuhanga bigezweho urugero nk'ibiryamirwa by'ikoranabuhanga.

Umugabo ukora imyitozo ngororamubiri yoroheje imufasha kugira ubuzima bwiza, na none imufasha kugira imitsi ndetse n'imikaya bikora neza, aho arimo kurambura ikiganza n'imitsi y'ikiganza, ibi bifasha imitsi y'iki kiganza gukora neza.

Imiti y'amoko atandukanye ndetse n'ibikoresho by'amoko atandukanye byifashishwa mu kuvura ndetse no kwita ku ruhu ndetse n'umubiri w'umuntu. Urugero nk'inshinge zifashishwa mu kwinjiza imiti mu mubiri w'umuntu, amavuta asigwa ku mubiri w'umuntu kugira ngo uruhu rukomeze gukora neza.

Umugore urimo gukora imyitozo ngororamubiri, uryamye hasi, aho yarambuye ukuguru kumwe kw'ibumoso naho ukuguru kw'iburyo akaba yaguhinnye akoresheje amaboko ye. Iyi myitozo ngororamubiri ifasha umubiri we kurambuka kandi igafasha imitsi ndetse n'imikaya gukomeza gukora neza.

Imiti igabanya uburibwe, ikaba yifashishwa n'abantu batandukanye, by'umwihariko ikaba yifashishwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri. Ikaba ibafasha kugabanya uburibwe mu mubiri, mu gihe umubiri wagize ikibazo.

Umusore w'ibigango, urimo gukora imyitozo ngororamubiri, na none afite icupa ririmo ibintu by'umweru, arimo kubyimenaho, ni umuti ufasha umubiri we gukomeza kugira ubuhere, ndetse no kutumva ububabare. Iyi miti akenshi yifashishwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri, bayisiga ku ruhu kugira ngo uruhu rukomeze kugira ubuhehere.

Umugore wagize ikibazo ku kuboko, ariko akaba arimo kwikanda ukuboko akoresheje imiti yabugenewe ifasha imitsi y'ukuboko ndetse n'ahagize ikibazo ku kuboko kongera gukora neza.

Abantu babiri barimo gukora imyitozo ngororamubiri, birukanka gahoro gahoro none bambaye imyenda yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri na none bafite amacupa mu ntoki zabo, arimo amazi yo kunywa. Gukora imyitozo ngororamubiri ndetse no kunywa amazi menshi ahagije, bibafasha kugira umubiri ndetse n'ingingo z'umubiri zikora neza.

Umukobwa ukiri muto, ufite ubuzima bwiza kandi buzira umuze, uri kunywa amazi akoresheje igikoresho cyabugenewe cyo kunyweshya amazi kugira ngo abone imbaraga zo gukomeza gukora imyitozo ngororamubiri, imufasha kunanura ndetse no kurambura imikaya by'umubiri we.

Ngukora imyitozo ngororamubiri buri gihe bigira akamaro umubiri w'umuntu ,ndetse n'umuntu muri rusange. Urugero: Byongerera umubiri imbaraga, birinda imihangayiko, na none kandi bifasha umubiri kugabanya umuvuduko w'amaraso.

Imiti yifashishwa mu kugabanya uburibwe mu gihe imikaya ndetse n'imitsi y'umuntu byikanze cyangwa se ikaba yavunitse. Nanone iyi miti yifashishwa mu kunga ndetse no guhuza ibice by'umubiri byatanye, urugero nk'imikaya igihe yatandukanye.

Bumwe mu buryo bworoheje bufasha ingingo z'umubiri gukora neza, urugero nko kurambura amaboko, guhina ibiganza, guhina akaguru ukongera ukagahinura, nanone guhina ibiganza. Ibi ni bimwe mu bikorwa bifasha ingingo z'umubiri gukora neza.

Imbuto z'amoko atandukanye zifasha umubiri gukora neza: urugero nka avoka nanone hari insenda zifasha umubiri kurushaho kugira imbaraga, na none hari imboga rwatsi zirinda umubiri guhura n'indwara zitandukanye, nanone hari igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu wagize ikibazo ku ivi akaba arimo kuvurwa ahabwa ubufasha bukenewe kugira ngo ivi ryongere ikore neza. Nanone umuganga arimo gukandakanda ku ivi ry'umuntu wagize ikibazo kugira ngo igufwa ryavuye mwanya waryo ryongere risubire mu mwanya waryo bityo ivi ryongere rikore neza. Nanone afite ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umuntu urimo gukora imyitozo ngororamubiri yoroheje kugira ngo ingingo ze z'umubiri zikomeze gukora neza, urugero yarambuye amaboko ayerekeza mu kirere. Ibi bifasha ingingo z'umubiri by'umwihariko amaboko ndetse n'imitsi y'amaboko gukora neza.

Umusore w'ibigango kandi ufite ubuzima buzira umuze, ibi byose akaba abikesha gukora imyitozo ngoramubiri ihagije buri gihe uko bishoboka, nanone kandi ari kunywa amazi akoresheje igikoresho cyabugenewe, ibi bimufasha kugira ubuzima bwiza.

Ibitaro bya gisirikare bikorera mu Rwanda, byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye by'umwihariko indwara zijyanye n'ingingo z'umubiri, aho bafasha abantu kugira umubiri ukora neza, bakoresheje ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Abagabo babiri barimo gukora imyitozo ngororamubiri, kugirango ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Na none barimo gukoresha ibikoresho byabugenewe, byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri. Ibi bikoresho bifasha umubiri gukora neza, by'umwihariko, imikaya ndetse n'imitsi.

Umuganga uri mu cyumba avuriramo abarwayi, arimo kuvura umurwayi. Nanone harimo ibikoresho bitandukanye akoresha iyo arimo kuvura abarwayi, urugero nk'ibikoresho byifashishwa mu gupima uburwayi bw'umurwayi, nanone harimo n'ibikoresho byambarwa n'umuganga iyo arimo kuvura umurwayi.

Umugore ubyutse mu gitondo akaba arimo kwinanura aho arimo arambura amaboko. Ibi bifasha imitsi y'amaboko gukora neza. Nanone si ukurambura amaboko gusa kuko arimo ararambura n'imikaya y'ijosi, aho arimo arambura ijosi. Ibi bifasha ijosi ndetse n'imitsi y'ijosi gukora neza.

Imiti itandukanye yifashishwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri, yaba abakora imyitozo yo kwiruka ndetse n'indi myitozo itandukanye. Hari ibinini binyobwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bagire, imbaraga nanone hari inshinge ziterwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ibongerere imbaraga.

Umusore uri mu cyumba cyagenewe gukoreramo imyitozo ngororamubiri, ari gukora imyitozo ngororamubiri akoresheje ibikoresho byabugenewe bimufasha gukora neza imyitozo ngororamubiri. Ibi bimufasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umugabo ukuze umaze gukora imyitozo ngororamubiri yoroheje, kugira ngo imufashe gukomeza kugira ubuzima bwiza, kandi agire imitsi ikomeye ndetse n'amagufwa ye akomeze gukomera, nyuma yo kuyikora ari kunywa amazi kugira ngo nayo amufashe kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ukiri muto uri kunywa amazi akoresheje igikoresho bifashisha banywa amazi nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri ituma akomeza kugira ubuzima bwiza, nanone yambaye imyenda imufasha gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo butamugoye.

Abagabo babiri barimo gukora imyitozo ngororamubiri, kugirango imibiri yabo ikomeze gukora neza aho umugabo umwe aryamye hasi arimo kurambura ukuguru ndetse akanaguhina abifashijwemo na mugenzi we uri kumufasha kurambura ukuguru, ndetse no guhina kugira ngo ingingo ze z'umubiri by'umwihariko amaguru ndetse n'imitsi bikomeze gukora neza.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, arambura ingingo ze z'umubiri kugira ngo zikomeze gukora neza, urugero nk'ijosi, amaboko, umugongo ndetse n'amaguru. Ibi bifasha imitsi ye ndetse n'inkingo z'umubiri gukomeza gukora neza. Nanone yambaye imyenda yabugenewe yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, mu buryo bworoshye.

Amoko y'ibyo kurya atandukanye, atera imbaraga umubiri kandi akawurinda indwara. Urugero nk'ibyo kurya bikomoka ku matungo, urugero nk'amagi, nanone hari imbuto z'amoko atandukanye, urugero nk'imineke. Nanone hari amoko y'imboga atandukanye. Nanone hari ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Itsinda ritubutse rigizwe n'abagabo ndetse n'abagore batandukanye, barimo gukora imyitozo ngororamubiri, bayikorera hamwe kugira ngo imibiri yabo ikomeze gukora neza, bambaye imyenda itandukanye yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, nanone bambaye inkweto zifunze zifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kumera neza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwita ku mubiri w'umuntu kugira ngo umubiri ukomeze gukora neza. Urugero hari ibikoresho byifashishwa mu kurambura imitsi y'umubiri ndetse n'uruhu rw'umuntu kugira ngo rurambuke.

Umugabo ufite ibigango urimo kunywa amazi, akoresheje igikoresho cyabugenewe bita icupa, kunywa amazi bimufasha kugira umubiri ukora neza cyane, na none kandi yambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu.

ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri urugero nk'umugozi wo gusimbuka nanone hari inkweto zabugenewe zifashishwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri zifunze nanone hari agakoresho kifashishwa mu gupima umutima w'umuntu uko utera nanone hari ibyokurya bitera imbaraga umuntu ukora imyitozo ngororamubiri urugero nk'imitini inyanya n'ibindi

Umukobwa urimo kunywa amazi akoresheje icupa, amazi ni ingenzi mu mubiri w'umuntu, kuko afasha umubiri gukomeza gukora neza, nanone yambaye imyenda yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo bworoshye.

Abaganga ndetse n'abarwayi bari mu cyumba cyabugenewe, kirimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi, barimo basobanurirwa uburyo ibyo bikoresho bikoreshwa neza kugira ngo bibe byafasha umurwayi.

Ari gukora imyitozo ngororamubiri yoroheje, nko kwiruka kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, nanone ari kunywa amazi kandi ari kumva indirimbo kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, binyuze mu kunywa amazi no kumva indirimbo.

Kimwe mu bikoresho bigezweho byifashishwa mu gusimbura ingingo z'umubiri zidakora neza cyangwa se ingingo zatakaye, urugero by'umwihariko iki gikoresho cyifashishwa mu gusimbura ukuguru kwatakaye cyangwa se mu gusimbura ukuguru kudakora neza, bityo ingingo z'umubiri zigakomeza gukora neza nk'ibisanzwe.

Umurwayi w'umugabo wavunitse ukuguru ari kumwe na muganga, aho arimo kumuha imiti ifasha ukuguru kwe kwavunitse kongera gukora neza, muganga arimo guhambira imiti yabugenewe ku kuguru k'umurwayi kwavunitse kugira ngo kongere gukore neza.

Umuntu uri gusuka amazi mu gikombe cyo kunyweramo amazi, avanywe mu gikoresho cyabugenewe yarabitswemo, kunywa amazi n'igenzi cyane kuko bifasha umubiri gukomeza kumera neza kandi ugakomeza kugira ubuhehere bukwiriye mu mubiri.

Kimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho byifashishwa mu kuvura ndetse no gusuzuma indwara z'abarwayi z'imbere mu mubiri zitagaragara inyuma, ahanini ibikoresho bisangwa ku bitaro ndetse no mu zindi nyubako zifasha abarwayi bafite uburwayi butandukanye by'umwihariko indwara z'imbere mu mubiri.

Umugabo ndetse n'umugore w'umuganga bari ku bitaro, aho umuganga arimo gufasha umurwayi w'umugabo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo imitsi ye y'amaboko ndetse n'imikaya y'amaboko ikomeze gukora neza.

Umuganga wabihuguriwe uvura indwara zitandukanye z'abantu, yambaye imyenda yabugenewe yambarwa n'abaganga bavura indwara zitandukanye, nanone yambaye n'agapfukamunwa gafasha umuntu kwirinda indwara zandura, nanone yambaye uturindantoki ndetse afite n'agakoresho gapima uko umutima utera.

Umukobwa ukiri mutoya arimo kunywa amazi, akoresheje igikoresho cyabugenewe bita icupa, nyuma y'uko arangije gukora imyitozo ngororamubiri imufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza ndetse ikanamufasha kugira imikaya ikomeye.

Umuganga urimo kuvura umurwayi, ufite ikibazo k'imitsi idakora neza, aho arimo amukoresha imyitozo ngororamubiri, urugero nko guhina amaguru akongera akayarambura, ibi bikaba bimufasha kugira imitsi ikora neza.

Kimwe mu byumba, byifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, bibafasha kunanura ingingo z'umubiri zabo. Kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, urugero nk'ibikoresho bijyamirwa, bibafasha kurambura imigongo ndetse n'imitsi y'imigongo.

Kimwe mu bikoresho bigezweho byifashishwa mu guterura abantu no kubaheka mu gihe badafite ubushobozi bwo kwigenza ku maguru, ahanini iki gikoresho gikoreshwa mu gihe umuntu yavunitse arimo akora imyitozo ngororamubiri urugero nko gukina umupira.

Imiti y'amoko atandukanye, ndetse n'ibikoresho by'amoko atandukanye, bikoreshwa mu kwita ku bantu bakora imyitozo ngororamubiri itandukanye mu gihe bagize ikibazo, bakoresha imwe muri iyi miti mu kubitaho, ndetse no gufasha ingingo y'umubiri wabo gukora neza.

Umugabo w'ibigango kandi ufite amagara mazima ndetse n'ubuzima buzira umuze, uri kunywa amazi kugira ngo abone imbaraga zo gukomeza gukora imyitozo ngororamubiri. Bikaba bimufasha kugira imikaya ikora neza ndetse n'imitsi ikora neza.

Ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kwita ku mubiri by'umwihariko aho byifashishwa mu kurambura ingingo z'umubiri zidakora neza zikongera gukora neza. Urugero hari igikoresho umurwayi cyangwa se umuntu ufite inkingo zidakora neza aryamaho kugira ngo kimufashe kugira ingingo z'umubiri zikora neza.

Imbuto z'amoko atandukanye zifitemo intungamubiri ndetse zikungahaye kuri vitamini zitandukanye, urugero nk'imineke ndetse n'amatunda. Uwariye izi mbuto akuramo vitamini zitandukanye zimufasha kugira imbaraga zo gukora imyitozo ngororamubiri, nanone kandi akuramo vitamini zimufasha kugira ubuzima bwiza.

Umugabo urimo kuvurwa hakoreshejwe ibikoresho bigezweho byifashishwa mu kurambura imitsi y'akaguru ndetse n'imikaya y'akaguru, aho umuganga arimo kwifashisha iyo mashini yabugenewe mu kuvura ukuguru k'uyu murwayi.

Uburyo butandukanye, umuntu ashobora guhambiramo ikiganza cye, ashyiraho ibipfuko mu gihe ikiganza cyangiritse, bityo bigafasha ikiganza kongera gukora neza nyuma yo gukurikiza ubu buryo butandukanye, bwo gupfuka ikiganza.

Abantu babiri barimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo imibiri yabo ikomeze gukora neza, nanone hari abantu barimo gufasha abari gukora imyitozo ngororamubiri babakandakanda mu mugongo ndetse n'ahandi, kugira ngo imvunane bafite mu mubiri zigende zikire.

Igikoresho cyabugenewe cyifashishwa n'abarwayi by'umwihariko abarwayi badafite ingingo zuzuye urugero nk'amaguru, aho umuntu udafite ukuguru cyangwa se ingingo zidakora neza z'amaguru yifashisha iki gikoresho mu kugenda.

Imiti y'amoko atandukanye ndetse n'ibikoresho by'amoko atandukanye, byifashishwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri. Aho imiti ibafasha kunanura imitsi ndetse no kunanura uruhu rwabo, na none harimo imiti yifashishwa mu guhambira aho umuntu yavunitse. By'umwihariko ku kuboko ndetse no ku maguru.

Umuntu wakomeretse umubiri by'umwihariko ku kuguru kw'iburyo ndetse no ku imoso, akaba arimo kuvurwa n'umuganga amuha imiti, aho arimo gupfuka ahangiritse kugira ngo hatajyaho imyanda cyangwa se ngo hinjireremo imyanda bityo ntihabe hakira. Iyi miti iramufasha gukira ndetse ifashe amaguru ye kongera gukora neza.

Umuntu wakomeretse ukuguru kw'iburyo mu rwego rwo kumuha imiti bahapfutse bashiraho igipfuko cyabugenewe kifashishwa mu gupfuka abantu bakomeretse ku mubiri. Nanone igipfuko gifasha ahakomeretse kutajyamo imyanda itandukanye.

Umuntu wangiritse ku kuguru, akaba arimo guhabwa imiti, bayishyira ahangiritse ku kuguru, kugira ngo kongere gukora neza cyangwa se hakire. Akaba arimo guhabwa imiti itandukanye, urugero akaba arimo guhambirwa ibikoresho byabugenewe, ahagize ikibazo, kugira ngo imitsi ndetse n'umubiri byahangiritse hongere hakore neza.

Umusore ufite amagara mazima kandi ufite ubuzima buzira umuze akaba abikesha gukora imyitozo ngororamubiri, urugero nko gukina umupira w'amaguru bimufasha kugira ubuzima bwiza, na none yambaye imyenda imufasha gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo butamugoye.

Amoko atandukanye y'imiti yifashishwa n'abantu batandukanye kugira ngo imibiri yabo ikomeze kugira imbaraga, mu gihe bari gukora imyitozo ngororamubiri. Urugero hari imiti isigwa ku mubiri kugira ngo umubiri ukomeze kugira imbaraga, nanone hari imiti yinjizwa mu mubiri hakoreshejwe ibikoresho byabugenewe urugero nk'inshinge.

Ibikoresho by'amoko atandukanye, byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, urugero nk'umupira w'amaguru ufasha abawukoresha kugira imikaya ikomeye, nanone hari imipira y'amaboko nayo ifasha abayikoresha gukora imyitozo ngororamubiri y'amaboko igatuma amaboko akora neza.

Umusore ufite ibigango urigukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri we ukomeze gukora neza. Nanone arimo kumva umuziki. Kumva umuziki ni bimwe mu bifasha umubiri ndetse by'umwihariko ibice by'ubwonko kuruhuka ndetse no gukora neza. Nanone arikunwa amazi. Amazi na yo ni ingenzi kuko afasha umubiri kurushaho gukora neza.

Umugore urimo kunanura imitsi ndetse n'imikaya by'ukuguru, akoresheje imiti ndetse n'ibikoresho byabugenewe, byifashishwa mu kunanura imitsi ndetse n'imikaya by'amaguru kugira ngo ukuguru gukore neza.

Umugabo urimo gukoresha igikoresho cyabugenewe kifashishwa mu kunanura imitsi y'umuntu by'umwihariko iy'amaguru ndetse n'iy'amaboko. Aho arimo kwinanura imitsi akoresheje igikoresho cyabugenewe kigezweho.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, aho yicaye hasi yarambuye amaguru ndetse agahina umugongo akarambura amaboko. Ibi bifasha ingingo z'umubiri we gukora neza cyane, nanone kandi yambaye imyenda yabugenewe yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore ufite amagara mazima kandi ufite ibigango, urimo gukora imyitozo ngororamubiri imufasha gukomeza kugira ubuzima buzira umuze; kandi bikamufasha gukomeza kwirinda indwara ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri. Urugero nko kurwara imitsi ndetse no kudakora neza kw'imitsi.

Umusore w'ibigango kandi ufite ubuzima buzira umuze, arangije gukora imyitozo ngororamubiri imufasha kunanura ingingo ze z'umubiri, urugero nk'amaboko ndetse n'amaguru, arimo kunywa amazi amufasha gukomeza kugira imbaraga zo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri we ukomeze gukora neza. Aho by'umwihariko yicaye hasi yarambuye amaguru ndetse n'amaboko, agahina n'umugongo. Ibi bifasha umugongo, imitsi y'amaguru ndetse n'imitsi y'amaboko gukora neza. Na none yambaye imyenda yabugenewe yifashishwa gukora imyitozo ngororamubiri, urugero; nk'inkweto zifunze ndetse n'imyenda yorohereye.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri by'umwihariko akaba yibanda ku myitozo inanura ingingo ze z'umubiri, arizo amaboko intoki ndetse n'ibiganza, ibi bituma ibice bye bikora neza by'umwihariko amaboko ndetse n'ibiganza.

Ibimera by'amoko atandukanye, bikururumba kandi bikarandaranda, byifashishwa mu gukora imiti gakondo itandukanye. Iyo miti gakondo ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'abantu.

Imiti gakondo ituruka mu bimera yamaze gutunganywa ishyirwa mu bikoresho byabugenewe biyifasha kuba itakangirika. Imiti ikaba ikoreshwa mu kuvura abantu bafite uburwayi butandukanye by'umwihariko abantu bajya kwivuza mu kinyarwanda cyangwa se mu buryo bwa gakondo.

Imiti gakondo y'amoko atandukanye iri mu bikoresho byabugenewe biyifasha kutangirika ndetse no kuramba. Aho itunganywa ivanywe mu bimera by'amoko atandukanye, ikifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, na none hari umujyanama mu by'ubuzima urimo ukangurira abantu gufata indyo yuzuye kugira ngo birinde indwara zitandukanye.

Kimwe mu bwoko bw'ibimera bukururumba cyane kikaba gifite imbuto, indabyo ndetse n'amababi atoshye kifashishwa mu kuvura indwara z'abantu zitandukanye.

Bimwe mu bimera byifashishwa mu gukuramo imiti gakondo, by'umwihariko ibimera birandaranda ndetse n'ibimera bikururumba cyane, na none hari abantu barimo guhamura imiti gakondo bayivanye mu bimera by'amoko atandukanye by'umwihariko ibimera bikururumba ndetse n'ibimera birandaranda.

Ubwoko bw'ikimera kirandaranda kandi gifite indabyo zifite amabara atandukanye, kikaba cyifashishwa mu gukora imiti gakondo itandukanye ivura indwara zitandukanye, urugero ikaba yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu, imitsi ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Kimwe mu bwoko bw'ibimera gikururumba cyane kandi kikaba gifite akamaro. Urugero kifashishwa mu gukora imiti gakondo itandukanye ivura indwara zitandukanye. Nanone gishobora kwifashishwa mu gukora intebe. Nanone gishobora mu kwifashishwa mu kubazwamo imbaho. Nanone kandi gishobora kwifashishwa mu gukora inkwi zo gucana.

Amoko atandukanye y'ibimera urugero nk'imiravumba, indabyo ndetse n'ibindi bimera byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye nyuma yo gutunganywa ubundi igashyirwa mu bikoresho byabugenewe biyifasha kutangirika.

Imiti gakondo y'amoko itandukanye itunganywa ivanywe mu bimera by'amoko atandukanye urugero nk'igikakarubamba, nanone hari imiti itunganywa ivanywe mu mbuto zitwa voka, ikifashishwa mu gusukura umubiri by'umwihariko isura.

Imiti gakondo y'amoko atandukanye, iri mu bikoresho byabugenewe, biyifasha kutangirika kandi biyifasha kuramba, aho itunganywa ivanywe mu bimera by'amoko atandukanye kandi ikifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye.

Imiti gakondo iri mu bikoresho byabugenewe biyifasha kutangirika, kandi bikayifasha kuramba ikaba itunganywa ivanywe mu bimera by'amoko atandukanye, urugero nk'igikarubamba. Iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, urugero nk'amenyo, indwara z'uruhu ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Imiti y'ubwoko bwose itandukanye iri mu bikoresho byabugenewe nyuma yo gutunganywa ivanywe mu bimera bigiye bitandukanye, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, urugero: harimo nk'imiti yifashishwa mu kuvura amenyo no gutuma akomera.

Igikoresho kirimo umuti gakondo watunganyijwe uvanywe mu bimera by'amoko atandukanye, ukaba wifashishwa mu kuvura indwara z'amoko yose atandukanye.

Ibikoresho byabugenewe bitandukanye, birimo imiti y'ubwoko bwose itandukanye, ituruka mu bimera nyuma yo gutunganywa, ikaba yakifashishwa mu kuvura indwara z'abantu zitandukanye.

Imiti gakondo iri mu bikoresho byabugenewe biyifasha kuramba ndetse no kutangirika, itunganywa ivanywe mu bimera by'amoko atandukanye, by'umwihariko ikaba itunganywa ivanywe mu mbuto z'imyembe, aho yifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye.

Ubwoko bw'imiti gakondo, iri mu bwoko bw'ibinini, yatunganyijwe ivanywe mu bimera by'amoko atandukanye, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye, by'umwihariko iyi miti gakondo ikaba ikozwe mu buryo bw'ifu, ipfunyitse mu bikoresho byabugenewe biyifasha kutangirika kandi bikayifasha kuramba.

Umugabo urimo guhamura imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, aho arimo gushaka ibimera by'amoko atandukanye, yaba ibikururumba ndetse n'ibirandaranda, kugira ngo abikoremo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, na none hari ubwoko bw'ibimera bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura indwara zitandukanye.

Kimwe mu bwoko bw'ibimera bita imbogarwatsi, akaba ari ingirakamaro cyane kuko cyifashishwa mu gukora imiti gakondo itandukanye ivura indwara zitandukanye, na none cyifashishwa mu gukora ibiryo biribwa n'abantu batandukanye.

Amavuta atunganywa avanywe mu bimera by'amoko atandukanye, by'umwihariko akaba atunganywa avanywe mu kimera bita igikakarubamba. Aya mavuta akaba yifashishwa mu gutuma umusatsi umera neza kandi ukarambuka.

Imwe mu miti gakondo yatunganyijwe, igashyirwa mu bikoresho byabugenewe kugira ngo itangirika kandi irambe, ikaba yifashishwa mu kuvura uburwayi bw'ubwoko bwose butandukanye, urugero nk'uburwayi bw'inzoka ndetse n'ubundi burwayi butandukanye.

Imiti gakondo iri mu bikoresho byabugenewe, biyifasha kutangirika ndetse no kuramba. Ikaba itunganywa ivanywe mu bimera by'amoko atandukanye, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye. Na none igikakarubamba kimwe mu bimera byifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye, nyuma yo gutunganywa.

Imiti gakondo yatunganyijwe ivanywe mu bimera by'amoko atandukanye, ikaba iri mu bwoko bw'ifu kandi ikaba ifite amabara atandukanye urugero nk'imiti ifite ibara ry'umutuku, iry'umweru, iry'umukara ndetse n'iryigitakazi na none hari ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gukora iyi miti gakondo ivanywe mu bimera by'amoko atandukanye.

Imiti y'amoko itandukanye iri mu bikoresho byabugenewe biyifasha kutangirika, imiti yatunganyijwe ivanywe mu bimera bitandukanye urugero nk'imboga rwatsi zo kurya ndetse n'amoko atandukanye y'imbuto.

Igikoresho cyabugenewe kiri mu ibara ry'umweru, kirimo umuti gakondo utunganywa uvanywe mu bimera by'amoko atandukanye. Urugero; nk'igikakarubamba. Ukaba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, urugero; nk'indwara y'imitsi ndetse n'umuntu ufite uruhu rutameze neza cyangwa se indwara y'uruhu.

Imiti gakondo iri mu bikoresho byabugenewe biyifasha kutangirika ndetse no kuramba. Ikaba itunganywa ivanywe mu bimera by'amoko atandukanye, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye. Nanone hari abantu batunganya iyo miti gakondo bayivanye mu bimera by'amoko atandukanye.

Kimwe mu bwoko bw'ibimera bita karoti kifashishwa mu bintu bitandukanye, urugero kifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura indwara z'abantu batandukanye. Na none gitanga ibyo kurya ku bantu batandukanye.

Kimwe mu moko y'ibimera bikururumba byifashishwa mu gukora imiti gakondo yo kuvura indwara z'abantu. Nyuma yo gutunganywa igashyirwa mu bikoresho byabugenewe biyifasha kutangirika ndetse no kuramba.

Ibikoresho bitandukanye byabugenewe birimo imiti gakondo itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ikaba itunganywa ivanywe mu bimera by'amoko atandukanye, urugero nk'igikakarubamba, ubuki, ndetse n'ibindi bimera by'amoko atandukanye, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye urugero nk'indwara z'uruhu ndetse n'izindi ndwara.

Ibimera by'amoko atandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo, harimo ibimera birandaranda, ibimera bikururumba, bikaba byifashishwa mu gukora imiti gakondo itandukanye ivura indwara zitandukanye, na none hari amoko y'imbuto bita indimu na yo akaba yifashishwa mu gukora imiti gakondo, ivura indwara zitandukanye.

Ibimera by'amoko atandukanye by'umwihariko ibimera bikururumba ndetse n'ibimera birandaranda bivanwamo imiti gakondo. Nyuma yo gutunganywa ikifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye.

Ibikoresho birimo imiti gakondo itandukanye, bikaba biri mu mabara atandukanye, urugero nk'ibifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'umweru. Iyi miti gakondo itunganywa ivanywe mu bimera by'amoko atandukanye, kandi ikifashishwa mu kuvura indwara z'abantu batandukanye, urugero nk'abantu bafite indwara z'uruhu, imitsi idakora neza ndetse n'izindi ndwara.

Igikoresho cyabugenewe kirimo umuti watunganyijwe uvanwe mu bimera wifashishwa mu gutuma iminwa yongera kugira itoto mu gihe yumye hariho n'amabwiriza y'uko umuti ukoreshwa kugira ngo utawukoresha nabi ukaba wakangiza.

Imiti gakondo yatunganyijwe ivanywe mu buki ,mu ndabyo zigiye zitandukanye ,iri mu bikoresho byabugenewe, biyifasha kutangirika ,ikaba yifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye.

Zimwe mu bwoko bw'imbuto zitwa indimu, zirimo gutunganywa kugira ngo havemo umuti wo kwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, nanone hari igikoresho cyabugenewe kirimo umuti wamaze gutunganywa uvanywe mu mbuto z'indimu.

Kimwe mu bwoko bw'ibimera cya kimeza kitwa nyirabarasenya, gifite uturabo dufite amabara meza cyane y'umweru ndetse n'umuhondo, kikaba cyifashishwa mu gukora imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, nanone kandi kivamo ibyo kurya by'amatungo.

Ibimera by'amoko atandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo itandukanye, nyuma yo gutunganywa, igashyirwa mu bikoresho byabugenewe, biyifasha kutangirika ndetse no kuramba, urugero hari ibimera byitwa ibikakarubamba ndetse n'andi moko y'ibimera yifashishwa mu gukora imiti gakondo, nyuma ikifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye.

Amoko atandukanye y'ibiti ndetse n'ibimera, byifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura abantu indwara z'ubwoko butandukanye. Nyuma yo gutunganywa, igashyirwa mu bikoresho byabugenewe, kandi biyifasha kutangirika ndetse no kuramba.

Umubyeyi w'umugore urimo guhamura imiti akoresheje ibimera kugira ngo ayifashishe mu kuvura indwara zitandukanye zivurwa hakoreshejwe ibyatsi cyangwa se ibimera muri rusange.

Imiti gakondo iri mu bikoresho bitandukanye, itunganywa ivanywe mu bimera by'amoko atandukanye. Ikaba yifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye, urugero nk'indwara z'uruhu ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Ibikoresho biri mu mabara atandukanye birimo imiti gakondo ivura indwara zitandukanye, ikaba itunganywa ivanywe mu bimera by'amoko atandukanye, urugero by'umwihariko ikaba itunganywa ivanywe mu kimera bita igikakarubamba.

Umuti gakondo uturuka mu bimera by'amoko atandukanye, uri mu bikoresho biwufasha kutangirika ndetse no kuramba. Ukaba wifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye, by'umwihariko ukaba wifashishwa mu gusukura amenyo no kuyagirira isuku.

Umuti gakondo watunganyijwe uvanywe mu bimera by'ubwoko bitandukanye, washyizwe mu bikoresho byabugenewe bitangirika kugira ngo umare igihe kirekire kandi uzifashishwe mu kuvura abantu batandukanye mu bihe bitandukanye, bityo bakomeze kugira amagara mazima.

Umuti gakondo uri mu gikoresho cyabugenewe kiwufasha kuramba ndetse no kutangirika, ukaba utunganywa uvanywe mu bimera by'amoko atandukanye urugero: nk'igikakarubamba. Uyu muti gakondo uka wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'abantu batandukanye.

Ubwoko bw'ibimera bikurumba cyane ndetse n'ubwoko bw'ibimera birandaranda, byifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura indwara zitandukanye na none si ibyo gusa, kuko ibi bimera bishobora kwifashishwa mu gukora cyangwa se hakavanwamo ibyo kurya by'amatungo ndetse n'ibyo kurya by'abantu.

Ibimera by'ubwoko butandukanye bihinzwe mu murima. By'umwihariko aho ibihingwa bihinze mu murima byitwa icyayi, bikaba byifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura indwara zitandukanye. Nanone hari abahinzi bari guhinga ndetse no kwita ku bimera bihinzwe mu murima.

Kimwe mu bimera by'ubwoko bitandukanye kifashishwa mu kwita ndetse no kuvura indwara z'ubwoko butandukanye, nyuma yo gutunganywa kigashyirwa mu bikoresho byabugenewe.

Amoko y'ibimera atandukanye, yifashishwa mu kuvura abantu ndetse n'indwara zitandukanye. Nyuma yo gutunganywa igashyirwa mu bikoresho byabugenewe biyifasha kutangirika kandi biyifasha kuramba.

Igikoresho cyabugenewe kirimo umuti gakondo, utunganywa uvanywe mu buki bw'inzuki, uyu muti gakondo utunganywa uvanywe mu buki bw'inzuki, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'abantu.

Ikimera gikurumba cyane cyifashishwa n'abavuzi gakondo mu kuvura abantu bafite uburwayi butandukanye nyuma yo kugitunganya neza ubundi barangiza bagakoramo umuti wifashishwa mu kuvura abantu bafite uburwayi butandukanye.

Umuntu urimo gutunganya imiti gakondo, ayivanye mu bimera by'amoko atandukanye, kugira ngo izifashishwe mu kuvura indwara zitandukanye, nanone hari ibikoresho bitandukanye birimo imiti gakondo yatunganyije avanye mu bimera by'amoko atandukanye.

Icupa ririmo amavuta y'uruhu yatunganyijwe avanywe mu bimera bigiye bitandukanye, yisigwa n'abantu bafite ikibazo cy'uruhu kugira ngo bongere bagire uruhu rumeze neza.

Umuti gakondo uri mu gikoresho cyabugenewe watunganyijwe uvanywe mu bimera by'ubwoko butandukanye ukaba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye za muntu.

Ibimera by'amoko atandukanye, bikaba byifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye. Ibi bimera bishobora kwifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura indwara z'abantu zitandukanye. Nanone ibi bimera, bishobora gutunganywa bikavanwamo ibiribwa byo kurya

Imiti gakondo, iri mu bikoresho bitandukanye biyifasha kutangirika ndetse no kuramba. Ikaba itunganywa ivanywe mu bimera by'amoko atandukanye. Ikifashishwa mu kuvura indwara z'abantu batandukanye. None hari ibimera bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo.

Imiti gakondo yatunganyijwe ivanywe mu bimera by'ubwoko butandukanye, ikaba iri mu bikoresho byabugenewe biyifasha kutangirika no gukomeza kuramba, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Urugero; nko kuvura amenyo ndetse n'izindi ndwara.

Umuti gakondo ufite ibara ry'umuhondo, akaba ari umutobe uvanwa mu mbuto bita indimu, ukaba wifashishwa mu gukora imiti gakondo, ivura indwara zitandukanye.

Imiti gakondo y'amoko atandukanye inyobwa, aho itunganywa ivanywe mu bimera by'amoko atandukanye. Ikaba iri mu bikoresho bitandukanye biyifasha kuramba ndetse no kutangirika, iyi miti gakondo ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'amoko atandukanye.

Igikoresho cyabugenewe kirimo umuti gakondo watunganyijwe uvanywe mu bimera by'amoko atandukanye, ukaba wifashishwa n'abantu bafite uburwayi butandukanye, ukabafasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Imiti gakondo iri mu bikoresho byabugenewe biyifasha kutangirika; itunganywa ivanywe mu bimera by'amoko atandukanye, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye.

Imiti gakondo ituruka mu ishyamba ry'Akagera. Aho mu Kagera harimo ibimera by'amoko atandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'amoko atandukanye.

Ibimera by'amoko atandukanye yaba ibikurumba cyane ndetse n'ibidakurumba cyane bifite amabara atandukanye: icyatsi, umuhondo, ndetse n'ibara ry'umutuku. Ibi bimera byose biturukamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara z'abantu zitandukanye.

Ibikoresho bitandukanye biri mu mabara atandukanye, birimo imiti gakondo itunganywa ivanywe mu bimera by'amoko atandukanye, urugero nk'igikakarubamba. Iyi miti yifashishwa mu kuvura indwara z'umubiri, urugero iy'imiti ifasha umubiri gusa neza by'umwihariko uruhu. Abantu barwaye uruhu bashobora kwifashisha iy'imiti ikabafasha kugira uruhu rumeze neza.

Ikimera gikururumba cyane cyifashishwa mu gukora imiti gakondo yifashishwa mu kuvura abantu. Na none iki kimera iyo kimaze gukura cyane gishobora kuvanwamo imbaho zo gukora intebe, na none gishobora kuvanwamo inkwi zo gucanisha ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bikorwa bivuye mu biti cyangwa se mu kimera cyakurumbye cyane.

Ibinini byifashishwa mu kuvura indwara z'abantu batandukanye. Bikaba bifite ibara ry'icyatsi ryijimye. Ibi binini bikaba bitunganywa bivanywe mu bimera by'amoko atandukanye.

Ibimera bihinzwe mu murima by'ubwoko butandukanye, bikaba byifashishwa mu gukora imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Na none hari abantu batandukanye bahinga ibimera by'ubwoko butandukanye kugira ngo byifashishwe mu gukora imiti gakondo.

Ikimera cyitwa igikakarubamba cyifashishwa mu kuvura indwara z'abantu zitandukanye, igikoresho cyabugenewe kirimo umuti wamaze gutunganywa uvanywe mu gikakarubamba, kugira ngo wifashishwe mu kuvura indwara z'abantu.

Amoko atandukanye y'ibimera yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye; urugero harimo nk'igikakarubamba, nanone harimo indimu, harimo indabo z'amoko atandukanye zifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye.

Igikoresho kirimo umuti gakondo watunganyijwe uvanywe mu bimera by'amoko atandukanye, urugero by'umwihariko watunganyijwe uvanywe mu kimera bita igikakarubamba. Ukaba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'abantu batandukanye. Ukaba uri mu gikoresho kiwufasha kuramba ndetse no kutangirika.

Imiti gakondo y'amoko atandukanye, ikorwa ivanywe mu bimera by'amoko atandukanye. Iyi miti gakondo iri mu bikoresho bifite amabara atandukanye. Urugero hari ibikoresho bifite amabara y'umweru, ibifite amabara y'umuhondo ndetse n'ibifite amabara y'ubururu. Iyi miti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye kandi ikorwa ivanywe mu bimera bita igikakarubamba.

Igikoresho cyabugenewe kirimo umuti gakondo watunganyijwe uvanywe mu bimera by'amoko atandukanye ukaba wifashishwa mu kuvura indwara z'amoko yose atandukanye ibi bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Igikoresho kirimo umuti wabugenewe watunganyijwe uvanywe mu bimera by'ubwoko butandukanye ukaba wifashishwa mu kuvura ndetse no kwita ku menyo y'umuntu kugira ngo adakomeza kwangirika ahubwo akomeza kumera neza ndetse no kugira isuku.